Abantu batatu umubyeyi wambaye umupira wa move, ufite umwana muto yicaye imbere y'umuntu wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari muganga, muganga arimo guseka neza asekera uwo mwana kugirango ngo amwiteho yongere kumererwa neza.

Abantu bahuriye ku iriba harimo umwana urimo kuvomesha akajerekani k'umuhondo akandi k'umweru agafashe mu kandi akaboko. Hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara werurutse uri kumufasha kuvoma, hari undi muntu wambaye umupira utukura, hari n'undi wambaye ipantaro itukura, hakurya hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi. kibisi

Abana benshi, abahungu n'abakobwa bambaye imyenda y'ubururu, imbere yabo hari ameza arimo ibara ry'ikigina, bashyizeho amasahani ariho ibyo kurya, inyuma yabo hari ikibaho bandikaho babigisha.

Icyumba kinini kicayemo abantu batandukanye, abagabo n'abagore, harimo n'abanyamahanga, imbere yabo hari ameza arimo ibara ry'umukara, harimo amacupa y'amazi n'impapuro barimo kwandikaho, hari ibintu barimo kwiga.

Abana benshi abahungu n'abakobwa bambaye imyenda y'ikake bari ku iriba, buri wese arimo kuvoma afite indobo z'umuhondo abandi barakaraba kuri iryo riba nyuma yaho hari ibiti byo mu bwoko bw'imikindo.

Umugore witwikiriye igitambaro mu mutwe wambaye umupira w'ubururu bwerurutse ukenyeye n'igitenge, afashe injerekani n'amaboko yombi y'umuhondo yashyize ku itiyo arimo kuvoma amazi, haruguru ye na ho hari undi muntu urimo kuvoma na we wambaye umupira uri mu mabara ajya gutukura, inyuma yaho hari ishyamba riri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi b'igitsina gore buri wese akikiye umwana, bahuriye ahantutu baricaye. Inyuma yabo hari inyubako iri mu matafari ahiye bari kumwe buri wese afite umwana we.

Umwana uri ku iriba urimo kwikorera indobo y'umutuku ipfundikije umupfundikizo w'umuhondo irimo amazi, umugabo ari hakurya ye wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu n'inkweto ziri mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri b'igitsina gore bayambaye ikote ry'utubara tw'umweru n'umukara, imbere harimo agashati k'umukara, ni inzobe hirya hari undi wambaye ikanzu y'amabara y' iroze n'umuhondo yiteze igitambaro cy'umuhondo hari amagambo agaragara ku cyapa gihari ikorerwa aho hantu bari.

Abantu batatu b'igitsina gore bicaye hamwe hari ameza imbere yabo ariho ibitabo babiri barimo kwandikamo umwe yambaye akantu k'ubururu imbere harimo ishati y'umweruta yiteze igitambaro cy'umweru undi yambaye ishati y'umweru afite inweri undi ari hirya yambaye imyenda y'imyeru arimo kubitegereza.

Umwana w'umukobwa wambaye agakanzu k'amabara ufite imisatsi myinshi, afite icupa ryashizemo amazi mu ntoki, imbere ye hari ikibaho cy'umukara yashyizeho agacupa kashizemo amazi yo kunywa agafatiyeho.

Umwana w'umukobwa washyize ibiganza byombi ku iriba arimo gukaraba, yambaye agakanzu karimo utubara tujya gutukura n'utundi tujya kuba umweru, asutse inweri, inyuma ye hari urukuta rw'amatafari ahiye.

Abagabo babiri bishimye umwe n'inzobe cyane, afite impapuro mu ntoki, undi n' imibiri yombi bose bambaye ikositime z'imikara, bari ahantu harimo ibara ry'ubururu, handikishijemo inyuguti z'umuhondo zigaragara neza, zerekana ibihakorera.

Abantu benshi b'abagabo n'abagore .Bahagaze hamwe ahantu hari ibara ry'ikigina ,bari imbere y'inyubako igaragara nk'ifite irangi rijya kuba umuhondo bararinganiye.

Icyapa cy'umweru cyanditsekishije amagambo y'ubururu agaragara neza, arayobora abantu kuri iki kigo gishinzwe iby'amazi kubera ko kubona amazi ari ishingiro ry'ubuzima.

Abana batatu bahurije ibiganza ku itiyo izana amazi, barimo gukaraba ni inzobe, umwe yambaye agapira k'umweru, undi yambaye ak'ubururu, hirya yabo hari ibiti birimo ibara ry'icyatsi kibisi bigaragara neza.

Abantu babiri bishimye, umugabo wambaye umupira w'umweru ku maboko hariho ubururu w'igikara, azamuye akaboko umwana wishimye amukoreye igikapu kiri mu ibara rya kake, hariho n'ibara ry'ubururu, yambaye agapira k'iroze.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gore, bateze amaboko, barimo kubyina, umwe yambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, yarengejeho agakote kari mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma yabo hari urukuta ruteye ibara ry'irangi ry'ikigina.

Abana b'abakobwa n'abahungu baje kuvoma amazi, umwe w'umuhungu ari ku ivomo ry'ahabanza avomera mu ndobo y'umuhondo, yambaye ikabutura y'ikaki n'ishati y'ikake, n'undi nawe nuko arakaraba intoki kuri iryo riba, umukobwa nawe yambaye imyenda y'ikake, hirya yabo hari ibiti by'imikindo byakuze biri mu ibara ry'icyatsi.

Umwana w'imibiri yombi, uri ku iriba, urimo gukaraba intoki, yambaye agapira k'umutuku, arangariye inyuma ye, hirya hari ibintu biri mu mabara y'icyatsi kibisi kijimye.

Abantu benshi bambaye amashati y'ubururu n'amapantaro y'umukara, ni abakobwa n'abahungu bafashe ku cyapa kiri hagati yabo kiri mu ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umweru agaragaza ibyo barimo gukora.

Umukobwa yambaye ijipo y'umukara n'agapira k'iroza ufite umusatsi muke, afashe injerekani iteretse mu ibase iri mu ibara ry'ubururu, arimo kuvoma amazi, hirya hari inzu ifite irangi ry'umukara ishaje, inyuma hari igiti kinini kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu urimo kuvoma ku itiyo y'amazi imanuka ahantu mu musozi, aravomera mu ndobo y'umuhondo, yambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu bwererutse, akaboko kamwe yagashyize mu mugongo ahantu hari igitenge cy'amabara, imbere hari akana kicaye kamwitegereza.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, hari imodoka y'imbangukiragutabara, yanditseho inyuguti z'umutuku ziyimenyekanisha, inyuma yayo hari ihema riri mu ibara ry'umweru, hirya hari idarapo, hari inyubako isakaje amabati ari mu ibara rya shokora.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu ifite agakora k'umweru arimo gukaraba n'ibiganza byombi ku iriba, riri imbere ye, hirya ye hari ibiti birebire hari nibirimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abana, hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ufite imisatsi myinshi, umupira wanditseho n'inyuguti z'umweru, arimo arita kuri uwo mwana, aramuha amata mu nkongoro.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu bugaragara neza, harananditseho amagambo manini ari mu nyuguti z'umweru agana haruguru, hepfo yaho harimo andi magambo nayo arimo ibara ry'umweru, afasha abahagana kumenya ibihakorerwa.

Umuntu w'imibiri yombi, wateze amashyi ku itiyo y'amazi arimo kunywa, hirya ye hari intebe iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, inyuma ye hari abantu bahahagaze, harimo uwambaye ipantaro y'umukara n'ikote ry'umukara, undi wambaye akenda karimo amabara y'umweru n'umutuku, imbere hari icyapa cyanditseho, kigaragara neza.

Umwana wambaye ikabutura itukura n'agapira k'amabara arimo n'ay'ikigina, aranywesha amazi amashyi yombi ku iriba, hasi hari indobo, hirya ye hari ibiti byiza cyane biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, bari mu ihema ridekoyeho icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu n'inkingi ririho ibara ry'ubururu, imbere yabo hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru, wisutse nweri ndende, bigaragara ko ari umuganga, bateze amatwi, ibyo arimo kubabwira.

Abantu b'igitsina gore bahuriye hamwe umugore umwe yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru n'agatambaro k'umweru akikiye umwana, hirya ye hicaye umwana wambaye akajipo k'icyatsi kibisi n'agapira k'ubururu karimo utubara tw'umweru, hari abandi babiri hino barimo gufasha uwo nguwo ufite umwana kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umwana w'umuhungu w'inzobe wambaye ishati y'icyatsi kibisi, yambaye ikabutura y'umukara yerurutse, ateze ibiganza byombi ku iriba, hirya ye hari indobo y'ubururu ipfundikiye, inyuma ye hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gore, bafite ibyapa by'umweru byanditseho magambo agaragara, inyuma yabo, hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi ni abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inyubako y'amatafari ahiye, harimo babiri ku mpande hirya n'indi yo hino bambaye imyenda y'ubururu, haraguru yabo kuri iyo nzu hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi agaragaza ibihakorerwa.

Abantu benshi harimo n'abana, hari umugore wicaye imbere wambaye umwenda uri mu ibara ry'umuhondo n'umukara, wawupfundikiye ku rutugu n'urunigi ruri mu ibara ry'umuhondo n'umutuku, yiteza igitambaro bose barimo kureba imbere yabo.

Abantu benshi barimo abagabo na bagore umugore, umwe wambaye umupira w'ubururu nakajIle, arimo gutanga impapuro. Undi uri hirya wambaye ingofero iri mu ibara ry'umuhondo, nishati y'amabara yubururu n'umuhondo, nawe akeneye urwo rupapuro kugirango bamenye ibigiye gukorerwa ahongaho.

Abantu benshi, biganjemo abambaye amataburiya y'ubururu bwerurutse, bafite umusatsi muke, barimo gushaka gukoma amashyi, imbere yabo hari umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ufite uruhara, hirya yabo hari igiti kiririmo ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma yaho hari inzu yandikishijeho inyuguti zigaragara zerekana ikihakorerwa.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda irimo amabara y'ubururu n'umweru arimo guseka, imbere ye hari indobo arunamye, inyuma ye hari ibiti byinshi birimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'umukara n'ishati y'icyatsi kibisi, ashyize ibiganza byombi ku kumugezi arimo gukaraba, hirya ye yari indobo y'ubururu, inyuma ye hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu wicaye asutamye, arimo guseka, ibiganza byombi yabishyize ku itiyo y'amazi hari injerekani irimo ibara ry'ubururu n'indi irimo ibara ry'umuhondo, arimo kuzivomera arishimye.

Abantu babiri bishimye, umwe yiteza igitambaro mu mutwe cy'umweru yambaye agashati k'amabara, undi w'umwana yambaye umupira w'umweru arogoshe, bari ahantu mu biti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugezi utemba hahagazemo umugore ufite injerekani y'umuhondo urimo kuvoma amazi, yambaye agapira k'umuhondo n'igitenge kirimo amabara y'umuhondo, inyuma ye hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara urimo koza igare, hirya ye hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi abagabo n'abagore bicaye ku ntebe nziza, inyuma yabo hari urukuta rw'ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo agaragaza ibyo barimo kuhakorera.

Abantu benshi harimo n'ab'igitsina gore baraterura imifuka iri mu mabara y'umweru, ni abagore babiri, umwe yateza ingofero undi yiteze igitambaro, barimo guterurana umufuka bawujyana mu yindi.

Abantu bari mu nyubako nziza, b'abagabo n'abagore baricaye, imere yabo hari ameza, hariho amzai ari mu ducupa hariho n'abaite impapuro barimo kwandikaho.

Abantu bari ku iriba, aho barimo kuvoma amazi mu njerekani zirimo ibara ry'umuhondo harimo umugabo urimo kureba inyuma, umwana w'umukobwa wambaye akajipo gatukura n'agapira k'umuhondo, undi mwana ari ahagana hirya inyuma yabo hari umusozi uriho ibitare binini cyane.

Abantu bicaye bigitsina gabo, hagati yabo harimo ameza, babiri muri bo bambaye amakositimu y'umukara n'amashati y'umweru, bari imbere yabo barimo kubabwira abandi babateze amatwi.

Abantu benshi biganjemo abahungu n'abakobwa, bari ku iriba barimo kuvoma, umwe yashyizeho injerekani iri mu ibara ry'umuhondo, yambaye akajipo ke kake n'agashati k'iroze, undi mwana ari inyuma ye agiye gukurikiraho ufite utujerekani tubiri tw'umuhondo, nyuma yabo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi.

Ibikoresho bitandukanye biri mu ibara ry'ubururu, harimo n'ibiri mu yandi mabara ni kwa muganga, ibitanda babyakiriraho abarwayi kugira ngo babiteho bongere kugira ubuzima bwiza.

Abana benshi abahungu n'abakobwa, bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu handitseho amagambo arimo ibara ry'umweru, bose bahagaze ahantu hamwe.

Abana benshi abahungu n'abakobwa, bahurije ibiganza ku iriba ririmo kuvomo amazi, inyuma yaho hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi, barabyigana urabona ko bose bakeneye ayo mazi.

Abantu b'igitsina gore, imbere yabo hari indobo y'ubururu n'umudamu wambaye agashati gatukura, ateze igitambaro undi arimo gukarabira kuri iyo ndobo, hirya yabo kuri iryo riba hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu kigaragaza uko bagomba kurikoresha.

Umwana w'imibiri yombi, wambaye agapira k'ubururu katambitse mu tubara tw'umukara, arimo koza akantu kari mu ntoki ze, hari umuntu urimo kumusukira akoresheje ijage iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, akaboko k'uwo muntu ni inzobe, aragira ngo ibyo arya bibe bifite isuku.

Abantu babiri b'igitsina gore umwe yambaye itaburiya y'umweru yiteza igitambaro cy'umukara, afite igikoresho cyo kwa muganga arapima undi uryamye wambaye ikanzu y'ubururu nawe witeze igitambaro, hari undi hirya w'igikara urimo kubahereza ibindi bikoresho.

Abantu b'igitsina gore bicaye hamwe ku murongo bakurikiranye, imbere yabo hari uwambaye itabuririya y'umweru witeze igitambaro cy'umukara. Arimo gusuzuma umwe akoresheje igikoresho basuzuma ku kaboko barebe uko ubuzima bumeze. Abandi bagize ubwoba bategereje nabo ko bagerwaho.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gore, baricaye, imbere yabo hari abagabo babiri, umwe wambaye ishati iri mu mabara y'umweru n'umutuku, undi wambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse n'agakote k'umukara n'ishati y'umweru, bateze amatwi, hari ibintu barimo kubabwira.

Inyubako nziza yahuriyemo abantu harimo abagabo n'abagore, harimo n'umunyamahanga baricaye, hari umugabo ubicaye imbere wambaye ikoti ry'umukara, karuvati y'umutuku, ni igikara, hino ye hari idarapo riri mu ibara ry'icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu, bamuteze amatwi.

Abantu benshi abato n'abakuru bahuriye ku iriba, umwana wambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'ikoboyi, arimo kuvoma mu ijerekani y'umuhondo. Umudamu wambaye ijipo y'umweru n'umupira w'icyatsi kibisi, n'igitambaro cy'umuhondo arimo kumufasha kubona amazi hirya yabo hari urutoki rwiza.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye imyenda y'ubururu, igofero y'ubururu n'agapfukamunwa, arimo gukorera umwana ijerekani iri mu ibara ry'umuhondo, hari undi muntu w'umunyamahanga ufite terefone, urimo kubafotora, hari n'undi mugabo hirya wambaye ikote ry'ubururu, n'undi inyuma wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu bahagaze harimo umugabo wambaye ikositimu y' yumukara na bage mu ijosi y'umweru, ahereje akaboko undi wambaye ikositimu yerurutse, hirya ya hari undi na wambaye ikositimu yubururu bwerurutse, inyuma ye hari umuntu wumuyamahanga wambaye imyenda y'umuhondo hejuru yabo hari icyapa kigaragaza ibikorerwa aho bari.

Abantu benshi abahungu n'abakobwa bambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'umweru imipira yanditseho hakoreshejwe inyuguti z'umweru bashyize igipfunsi hejuru bose barishimye.

Abantu benshi abagabo n'abagore, biganjemo abambaye imyenda y'umweru. Hari uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara. Bafite icyapa cy'umweru cyandikishijeho amabara y'ubururu agaragaza ibyo barimo gukora.

Abantu batatu harimo umugore ukikiye umwana, umwana yambaye utwenda tw'umweru, nyina yambaye igitenge kirimo umweru n'umukara, ni umugore w'igikara arimo guseka, n'undi wambaye itaburiya y'umweru, amaherena y'umweru, afite imisatsi isutse bigaragara ko ari muganga urimo guha umwana umuti.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi kibisi uhetse umwana mu gitenge wambaye igitenge cy'umutuku kirimo amabara usutse inwere arimo koza umufuniko w'umutuku imdobo ni umuhondo imbere ye hari robine.

Aba bagabo n'abagore bicaye hamwe, umwe muri bo w'inzobe imisatsi myinshi, afashe mikoro, abandi baramureba bateze amatwi ibyo ababwira, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umukara, ateretseho uducupa tw'ubururu.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, bicaye barebana, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, bamuteze amatwi, buri wese afite aho yandika, ibyo arimo kwiga, arimo kubigisha.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo agaragara neza ari mu nyuguti z'umweru, agaca karongo hepfo yaho hakaza andi magambo nayo agaragara neza ari mu nyuguti z'umweru, yose agaragaza ibikorerwa aho hantu kugira abahagana batagira urujijo.

Abana bane bahuriye aho bavomera amazi, bafite injerekani z'umuhondo, harimo abambaye utwenda tw'ubururu, hari umuntu mukuru urimo kubafasha kuvoma wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru kerurutse; hirya hahagaze imodoka y'umweru, hakurya hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugore witeze igitenge cy'icyatsi kibisi, kirimo n'umukara n'umweru, n'agapira k'ubururu gatambitsemo amabara y'umukara n'umweru, akikiye umwana mutoya, hari umuganga wambaye itabuririya y'umweru, uri mu gutera umwana urushinge ku kaboko, hari n'ameza ariho ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore biganjemo abambaye amataburiya y'umweru na amabaji y'ubururu, hagati hari umugabo muremure w'umunyamahanga wambaye kositime y'umukara, imbere harimo ishati y'umweru, inyuma yabo hari ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abana batatu bambaye impuzankano y'umuhondo n'akajipo k'ubururu intoki zabo bashyizeho isabune imbere yabo hari amazi amatiyo atatu bagaragara ko bagiye gukarabaho inyuma yabo hahagaze umuntu utagaragara neza.

Abantu bambaye agapira k'amabara y'umweru n'umukara, hari amaboko abiri yambaye ga y'umweru, atera urushinge, arimo ku rumutera ku kaboko bigaragara ko ari muganga, aragirango yongere kumererwa neza.

Umwana wambaye agashati k'ikake w'igikara arambuye ibiganza, hari undi muntu uri imbere ye wambaye umupira w'ubururu uriho utuntu ku maboko tw'umweru n'ipantaro y'umukara, afite umusatsi muke yambaye agapfukamunwa k'amabara, inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu bane biganjemo abambaye imyenda y'ubururu, bahagaze ahantu hari itapi itukura, impande y'icyapa cyandikishije inyuguti z'umweru, mu cyapa cy'icyatsi kibisi kigaragara neza, kigaragaza ibihakorerwa.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gabo, baricaye hagati yabo harimo ameza manini agiye ariho ibikombe n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, hino hari uwambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, w'inzobe cyane bamuteze amatwi.

Abantu benshi abagabo n'abagore, abagore baricaye umugabo wambaye itaburiya y'umweru ahagaze imbere y'abo bamuteze amatwi, hirya ye hari akantu karimo ibara ry'ubururu bashyiramo abana bakiri bato kugirango ngo bamenye ibiro byabo.

Abana babiri, umwe wambaye utwenda tw'icyatsi kibisi n'umweru, agapantaro n'agashati, undi wambaye utw'umutuku, bari munsi y'itiyo y'amazi arimo kubamenekaho, undi arimo gukaraba ibiganza byombi.

Abana benshi bambaye imyenda y'ishuri udushati tw'udukarakaro n'utujepo tw'ubururu, n'udukabutura tw'ubururu bara bavoma amazi ku tugega dutoya dukozemo ibara ry'ubururu.

Abantu benshi barimo abanyeshuri, hari umwana urimo kuvoma wambaye agakabutura k'ubururu n'agashati k'amabara yiganjemo ayi cyatsi, hari umugabo urimo kumufasha kuvoma amazi mu kajarekani k'umuhondo. Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro ikaki.

Abantu benshi bari ahantu hamwe umwe yambaye agapira k'ubururu afite umusatsi muke, hari umuganga urimo kumutera urushinge wambaye ga z'umweru, itaburiya y'umweru n'ishati ya karokaro ni inzobe.

Abantu benshi baje ku iriba kuvoma amazi, harimo injerekani z'umweru, iz'umuhondo, iz'umukara, indobo y'ubururu, hari umuntu wambaye imyenda y'ubururu urimo guhaga ayo mazi kugira ngo babashe kuvoma.

Agatanda kariho amasahani yiganjemo ay'umweru, ubujerekani buri mu ibara ry'umuhondo, ibikombe biri mu ibara ry'umutuku, hubitseho n'ibase y'ubururu, bamaze kubyoza baragira ngo byumuke, hirya hari urugo rwubakishije ibiti by'icyatsi kibisi.

Umugore w'imibiri yombi, ufite imisatsi y'imikara, wambaye igitenge kirimo umweru n'umukara akikiye umwana wambaye utwenda tw'umweru, hari umuntu wambaye itaburiya bigaragara ko ari umuganga, yambaye amaherena, umusatsi, arimo guha umwana umuti.

Abantu benshi barimo babiri bambaye imyenda miremire y'ubururu bigaragara ko ari abaganga bipfutse agapfukamunwa no mu mutwe imbere y'umwe hariho umuntu wambaye imyenda y'umukara w'igitsina gore arimo kumureba mu kanwa amusuzuma.

Abantu batatu, umubyeyi w'umumama uri kumwe n'umwana, wambaye igitenge kirimo amabara atandukanye, urimo guseka, ari kumwe n'undi bigaragara ko ari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'amaherena y'umweru, arimo guha umwana ibintu biri mu gacupa bishobora kuba ari umuti.

Umudamu uri imbere y'umuryango ku nzu ikinguye, iteye umucanga, arimo gukaraba n'ibiganza byombi, kuri kandagira ukarabe iriho akajerekani, yambaye igitenge cy'amabara, agashati karimo amabara y'umweru n'umukara, yiteza n'igitambaro arishimye.

Abantu benshi bagaragara ko bari kwa muganga, hari umumama wambaye ingofero ya shokora, agapfukamunwa k'umukara n'umupira w'umukara, hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa, ari kumutera urushinge ku kaboko kugira ngo amufashe kongera kumererwa neza.

Abantu batatu bose b'igitsina gore, bari ku iriba aho baje kuvoma amazi, bafite injerekani nyinshi z'umuhondo, umwe yambaye igitenge cy'icyatsi kibisi n'agapira k'umweru afite umusatsi muke, undi yambaye ikirimo amabara y'iroze ahambiriye agatambaro k'ubururu mu nda, yatezeho igitambaro gitukura, hirya y'aho hari urutoki rwiza cyane.

Abana benshi bambaye udushati tw'ubururu, bashyize ibiganza hejuru bose, inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi byiza cyane.

Abantu benshi biganjemo abambaye imyenda y'imikara, abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umutuku, baratuje inyuma yabo hari urukuta rwanditseho ibikorerwa aho, hari n'igiti cyiza kirimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, bahagaze imbere y'inyubako nziza. Kuri iyo nyubako, hariho amagambo agaragaza ibihakorerwa kugira ngo uhagana atagira urujijo.

Abantu benshi, abagabo n'abagore bicaye mu ntebe ziri mu ibara ry'umukara harimo n'abanyamahanga, imbere yabo hari umuntu uhahagaze w'igitsina gore, ufite imisatsi miremire, wambaye ishati iri mu bururu bwerurutse, hirya ye hari urukuta ruri mu ibara ry'umuhondo, bamuteze amatwi.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi myiza myinshi uri imbere y'inyubako nziza yubakije amatafari ahiye, yambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'ubururu afite agakarita kerekana ibikorerwa aho ngaho.

Umugore wimibiri yombi ufite imisatsi yumukara arimo kureba umwana we ateruye ukiri muto. Ubu bose bambaye imyenda y'imyeru, arimo guseka n'umwana araseka barishimye.

Abantu bicaye hamwe ku nyubako iteye ibara ry'irangi ry'umubondo, ndabona igitsina gore, barimo kureba umuntu uhagaze imbere urimo kubigisha, harimo abahetse abana bose bigaragara ko bari kwa muganga.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, abagabo n'abagore, inzu iri mu ibara ry'umuhondo wijimye, imbere yabo hari umuntu w'igitsina gore uhagaze wambaye ikanzu y'umweru n'agakoti k'umukara, bamuteze amatwi.

Abantu benshi harimo n'abakiri bato, bahagaze ahantu hamwe, bafite icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi cyanditseho ibyo bifuza kumenyekanisha kugira ngo abantu babyubahirize.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda y'icyatsi kibisi na renete ufite imisatsi yasutse. Imbere hari icyapa kirimo ibara ry'umweru haruguru harimo ibara ry'umutuku no hepfo, barerekana inyuguti zanditseho ziravuga ibihakorerwa.

Abantu benshi abagabo n'abagore, abagabo bicaye ahagana imbere, abandi bagiye bahagaze inyuma yabo, inyuma hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu, cyanditseho ibikorerwaho, kugira abahagera bitababera urujijo.

Abantu benshi abagabo n'abagore, hagati muri bo hari umugabo w'umupolisi wambaye imyenda y'umukara n'ingofero y'umukara. Abandi bari iruhande rwe, ufite igikapu kinini cy'umukara; inyuma yabo hari ibiti birimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo ufite imisatsi myinshi idashokoje n'ubwanwa bwinshi burimo imvi, yambaye ishati y'umukara idafunze, ahagaze imbere y'inyubako arimo kuvuga amagambo.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye akanigi mu ijosi n'igitambaro cy'umweru mu mutwe, utambaye umupira hejuru, hejuru ye hari akantu k'ibara ry'icyatsi kibisi, arabona ko ahangayitse, arareba imbere ye.

Ni abantu bateye agahinda,

Umuntu wicaye akikiye umwana wambaye akenda k'iroze nawe yambaye umupira w'maboko maremare, ateze amatwi umuntu wicaye imbere ye ufashe ku meza w'imisatsi myinshi, inama arimo kumugira ku bijyanye n'umwana we ashobora kuba ari umuganga, undi uri hirya na we wambaye igitenge na we cy'amabara n'agashati k'umukara na we akikiye umwana.

Umuntu w'umugabo, wambaye ishati y'icyatsi kibisi w'igekara cyane, ureba imbere ye ubabaye akeneye umuntu wamufasha, biragaragara yuko ahangayitse cyane.

Umuntu w'igitsina gore ukuze wambaye igitenge kiganjemo amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo, n'umweru ndetse n'umukara. Yiteze n'ikindi mu mutwe gisa nacyo arasekara cyane hirya ye hari umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara wifashe mu mifuka.

Abantu benshi b'igitsina gabo bambaye imipira y'imikara n'amapantaro y'umweru, bicaye hamwe bareba imbere yabo bateze amatwi bigaragara ko hari umuntu urimo kubabwira ikintu runaka bagomba gukora.

Umuntu w'igitsina gore wambaye ishati ndende y'amaboko maremare y'umweru, wisutse imisatsi miremire y'umukara, ibiganza bye byombi byafashe mu mutwe we arimo aratekereza ibintu byinshi bitandukanye.

Umugabo ukuze wambaye ishati y'ubururu, witeye akitero k'umuhondo, ufite imisatsi myinshi urimo guseka, amenyo ye yarakutse imbere, undi ari hirya ye barahagararanye.

Abantu babiri, umugore yisutse inweri z'umukara ndende, afite mikoro y'umukara yegereye hafi y'umunwa, yambaye agashati karimo amabara atandukanye ku maboko hariho icyatsi kibisi, yicaye ku ntebe itukura, umugabo yambaye umupira w'umukara, nta musatsi afite, inyuma yabo hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu wicaye wenyine ku ntebe y’urubaho, ni igitsina gore akenyeye igitenge kirimo umuhondo n’ubururu, n’ishati irimo udukara n’andi mabara y’ikigina. Inyuma ye hari urukuta rw’ikigina, arareba imbere ye.

Umugabo munini wambaye ikositimu y'umukara imbere ye hari ururabo rw'amabara atandukanye, arunamye, hirya ye hahagaze undi muntu ugaragara ko ashobora kuba akora aho ngaho inyuma, ku rukuta hari amazina menshi cyane bigaragara ko yaje kwibuka umwe muri bo wapfuye.

Umuntu w'igikara w'igitsina gabo wambaye imyenda ishaje cyane, yicaye ahantu arihebye yambaye urukweto rushaje ikindi kirenge nta rukweto rurimo bigaragara rwose ko ateye agahinda.

Umubyeyi w'umugore ahetse umwana mu mpetso y'umweru yambaye igitenge cy'amabara atukura n'ubururu yambaye n'agapfukamunwa akandi kana gahagaze kambaye ikabutura ijya gutukura n'agashati k'icyatsi kibisi arimo gutegura amafunguro.

Abantu batatu b'igitsina gore, umwe yambaye igitenge kirimo umuhondo n'ubururu n'agapira k'iroze, yateze igitambaro, afite agakoni mu ntoki, undi afite umwana hagati ye, arimo kumuha ibere, afite n'agakoni mu ntoki, yiteze igitambaro cy'umukara, undi afite na we inkoni mu ntoki, inyuma yaho hari umusozi, uriho ibiti by'icyatsi kibisi.

Abantu benshi b'abagabo n'abagore, hari umugore uri ku ruhande wambaye ishati y'umukara n'ijipo y'amabara, n'abandi bambaye ibijya kuba umutuku, umugabo wunamye wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umweru bose barimo kureba imbere yabo.

Umuntu w'igikara ufite imisatsi myinshi idashokoje, wambaye imyenda ishaje arahagaze, hirya ye hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, no kurundi ruhande hari ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi abagabo n'abagore higanjemo abambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, kigaragara neza, bafite icyapa ahagana kuruhande cyanditseho mu nyuguti z'umukara zigaragara neza, zerekana ibyo barimo gukora hirya yabo hari ishyamba riri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe higanjemo abagore harimo n'abagabo, hari intebe nyinshi za rwegamirwa bigaragara ko hari ikintu cyahabereye bose bakaba bitabiriye.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, bahagaze ahantu hamwe, hari umugabo wambaye ipantaro y'ikake n'ishati y'umweru, umugore uri iruhande rwe, yambaye ijipo y'icyatsi kibisi, n'agapira k'umweru, hirya hari abandi bambaye kositimu ziganjemo iz'ubururu, hirya yabo hari icyapa kigaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nini abantu bayihagaze imbere bambaye imyenda yiganjemo iy'ubururu n'amapantaro y'umukara, hagati yabo hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati, hirya ku ruhande hari umuntu w'umunyamahanga wambaye ipantaro y'umukara n'ikote ryererutse bose bahagaze hamwe.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye inkweto z'umukara ipantaro y'umukara wacuyutse, umupira w'umutuku, umusatsi muke yegamye ku rukuta, hirya ye hari ibindi bintu byinshi cyane.

Umupira w'umweru ufite amaboko y'ubururu no ku ijosi hariho ubururu, wanditseho amagambo mu bitugu mu ibara ry'ubururu agaragara neza kugira ngo ugura amenye ibyanditseho.

Abantu benshi biganjemo abagabo, bambaye imipira y'imikara, n'amapantaro y'amakoboyi ari urupapuro rw'umweru barimo guhereza umuntu uri hagati yabo. Inyuma yabo hari ihema ryo mu ibara ry'umweru.

Umuntu w'inzobe wambaye isengeri y'umweru ufite imisatsi y'umukara myinshi afite igikoresho gisukura amenyo ibyo bituma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza.

Umusore w'inzobe cyane, wambaye umupira w'umweru, ufite umusatsi muke w'igikara, yafashe igikoresho bakoresha basukura amenyo, akoresheje amaboko ye yombi, arakora isuku.

Umusore w'inzobe yashyize igitambaro cy'umweru ku rutugu, afite igikoresho gisukura amenyo, yagifatishije amaboko yombi, arimo kuyakorera isuku.

Umukobwa w'inzobe cyane, witeze igitambaro cy'umweru, wambaye agapira k'umweru, kadafite amaboko, afite uburoso busukura amenyo, arimo koza amenyo kuko ari ikintu cy'ingenzi.

Inyubako ndende hejuru iteye irangi ry'icyatsi kibisi, imbere hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, handitseho amagambo ari mu nyuguti z'umuhondo n'andi ari mu nyuguti z'umukara, agaragaza ibihakorerwa kugira ngo abahagana batagira urujijo.

Inyubako nini irimo ibikoresho bijye bitandukanye bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari ibiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ibara ry'umweru, imashini zigiye zitandukanye, ibyo byose babikoresha bita ku babagana kugirango ngo bongere kugira ubuzima.

Abantu benshi, bicaye ahantu hamwe, biganjemo abambaye imipira'icyatsi kibisi, yanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umuhondo, hari abaganga bari inyuma yabo ,umwe arimo kumufasha ku bijyanye n'amenyo, muganga yambaye ga z'umweru.

Ibikoresho bitandukanye birimo igitanda kir imu ibara ry'ikigina n'intebe iri mu ibara ry'ikigina, n'ibindi bitandukanye, ni ibyo bakoresha bafasha ababagana kugira ngo bamererwe neza.

Umusore w'imibiri yombi wambaye umupira w'umweru, afashe igikoresho gisukura amenyo mu maboko yombi, arimo gukora isuku mu menyo ye, ni ikintu cy'ingenzi.

Abantu benshi biganjemo abakiri bato, bari imbere y'inyubako ifite idirishya rifite irangi ry'icyatsi kibisi; harimo umukuru w'igikara usutse inweri yambaye agashati k'umweru harimo n'amabara yumutuku n'ipantaro y'umukara, bashyize amaboko hejuru bose barishimye.

Umusore w'inzobe ufite umusatsi muke cyane, wasamye ufite amenyo meza, ubwanwa bukeya n'uruziga rukeya, yambaye umupira w'umukara arishimye.

Umuntu uryamye w'igikara, w'umusatsi muke w'igitsina gabo, iruhande rwe hari undi w'inzobe cyane, w'igitsina gore, wambaye imyenda y'ubururu, ga z'ubururu, agapfukamunwa k'umweru, ni umuganga, arimo kumufasha amuvura amenyo.

Umusore w'inzobe ufite umusatsi muke, ahafite igikoresho yafashe n'ibiganza byombi, arimo gusukura amenyo kugira ngo avanemo imyanda kandi icyo ni igikorwa cy'ingenzi cyane.

Umuntu w'inzobe cyane, arasamye, afite igikoresho bifashisha bakorera amenyo isuku, yagifatishije ibiganza byombi, arimo gusukura amenyo.

Abana benshi, bambaye impuzangano ziri mu ibara ry'umuhondo, barishimye, ni abanyeshuri, bazamuye amaboko bose, bafite utuntu mu ntoki bashyize hejuru, bigaragara ko ari udushokora.

Umusore w'imibiri yombi wasetse cyane yambaye umupira w'umweru, ahantu ahagaze inyuma ye hari ibara ry'umuhondo ugaragara cyane.

Abana benshi bambaye udushati tw'udukarokaro, barajya kuba inzobe, bafite uburoso bw'amenyo, bafite udukombe mu ntoki turimo amazi, bambaye utujipo tw'umukara.

Umusore w'inzobe ufite umusatsi muke, afite igikoresho gisukura amenyo, kugira ngo amenyo avemo umwanda, nta shati yambaye kandi amenyo iyo abaye meza ibyo bituma umuntu amererwa neza.

Umukobwa w'imibiri yombi w'imisatsi miremire wambaye akakanzu k'umweru afite uburoso arimo koza amenyo kandi gusukura amenyo nikintu cy'ingenzi cyane.

Umuntu w'inzobe wasamye ufite umusatsi muke yashyize urutoki ku menyo, undi ari imbere ye yambaye ga z'ubururu arimo kumwereka uburyo yamufasha mu kibazo cy'amenyo kugira ngo amererwe neza.

Umwana w'inzobe cyane ufite imisatsi y'imikara, hari umuntu urimo gukora mu kanwa ke wambaye ga z'icyatsi kibisi bigaragara ko ashobora arimo kumufasha mubijyanye no gusukura amenyo, kandi icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane.

Umuntu uryamye ku gitanda kiri mu ibara ry'ubururu yambaye umupira utukura iruhande rwe hari umuntu wambaye ga z'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu washyize rinete ahagana mu mutwe wambaye itaburiya yu mweru ashobora kuba ari muganga arimo kumufasha ku burwayi arwaye mu kanwa kugirango yongere kumererwa neza.

Umusore w'inzobe ufite umusatsi w'igikara urimo guseka aho akaboko kari mu ruhande rwe rw'umuntu bigaragara ko ari umuganga wambaye ga z'ubururu ashaka kumufasha gusukura amenyo kuko ari ikintu cy'ingenzi mubu buzima.

Umuntu w'igitsina gore wahumirije, afite imisatsi yasokoje igera mu gahanga, n'imibiri yombi, afite igikoresho gisukura amenyo, yagifatishije amaboko yombi, arimo gusukura amenyo.

Umusore uryamye wambaye umupira w'umukara wasamye ufite umusatsi muke, hari abaganga bambaye ga z'ubururu bafite ibikoresho mu ntoki barimo kumufasha kumukiza ikibazo cy'amenyo baragira ngo yongere kumererwa neza.

Umusore w'inzobe wasetse ufite umusatsi muke w'igikara, yambaye ishati irimo amabara y'umweru imanutse yicaye ahantu ubona hameze nko kwa muganga.

Abantu babiri, umwe arasamye, undi wambaye ga z'umweru n'itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, usutse imisatsi, bigaragara ko ari umuganga arimo kumurebera mu kanwa ikibazo yagize, undi na we yambaye agapira k'umukara, afite n'inweri ndende.

Abana babiri bafite uburoso busukura amenyo, umwe abufashe mu ntoki buri mu ibara ry'umuhondo, yambaye akenda k'ubururu, undi ari inyuma ye afite uburoso b'ubururu arimo koza amenyo kandi ni ikintu cy'ingenzi.

Umuntu w'igitsina gabo ufite umusatsi muke ubwanwa bw'umukara n'uruziga yambaye ishati ikoboye imbere harimo agapira mu ibara ry'ikigina araseka yishimye cyane.

Abantu babiri, umwe wambaye imyenda y'ubururu, ufite igikoresho cyo kwa muganga w'inzobe cyane, undi arakuze, afite imisatsi y'imvi, yambaye umupira utambitsemo amabara y'umweru n'umukara, biragaragara ko bari kwa muganga, hirya yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu babiri, umugabo n'umugore, umugabo ukuze ufite imvi mu mutwe n'ubwanwa bw'imvi, yambaye amadarubindi, yambaye ishati ya karokaro y'amaboko magufi, afashe terefone mu ntoki, umugore arimo kumwereka urupapuro rwanditseho ibintu, imbere yabo hari izindi mpapuro ziri ku meza.

Inyubako nini igaragara ko ari kwa muganga imbere yayo hari umugabo ukuze w'inzobe wambaye ipantaro n'umutuku n'ikote ry'umukara, arimo kwitabwaho n'umuntu wambaye ipantaro y'ubururu, n'itaburiya y'umweru umunyamahanga arimo kumufasha kubasha kugenda.

Umuntu ukuze wambaye umupira w'umukara, ufite ubwanwa bwinshi bw'imvi, imbere ye hari imashini, hirya ye hari umukobwa wisutse imisatsi miremire wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru urimo n'umutuba, arimo araha ibintu mu ntoki bishobora kuba ari imiti, arimo kumwitaho.

Abantu babiri bakuze umugabo n'umugore, umugabo yambaye umupira w'ubururu afite imisatsi y'imvi, yambaye isaha y'umukara arimo kwereka umugore wambaye umupira w'umutuku na we ufite imvi, wambaye amaherena y'umweru, ibintu biri mu kiganza cye kandi imbere yabo hari ameza ariho utuntu tw'umweru barishimye.

Abantu babiri bari mu myitozo ngororamubiri, umwe yambaye agapira kajya kuba umuhondo, ubwanwa n'imvi, afite umusatsi muke ipantaro umukara, undi yambaye umupira werurutse ni inzobe cyane, hari akantu kari hagati yabo barimo gukururaho bombi, barimo gukora iyo myitozo.

Abantu babiri b'igitsina gabo umwe arakuze yambaye umupira uri mu ibara ry'ikigina undi yambaye imyenda ye y'icyatsi kibisi cyerurutse, arimo kumwinjiza ahantu hashobora kuba mu ivuriro kugirango bamwiteho.

Umubyeyi w'umugore ukuze, ari kumwe n'umuganga, muganga afite akantu mu ijosi, agakoresha arimo kureba uko ubuzima bw'umurwayi bumeze, kugira ngo amwiteho, barishimye.

Umugabo wishimye, uwinzobe, ukuze, ufite imisatsi y'imvi, wambaye ishati ya karakaro, yiganjemo amabara y'umutuku, wambaye umupira w'umukara imbere isahani y'umweru irimo ibyo kurya, bitandukanye, agiye kurya.

Umuntu ukuze w'igitsina gore winzobe ari kumwe n'undi wambaye imyenda y'ubururu n'imisatsi y'umukara afite ikirahure cy'amazi arimo aramuha imiti hirya yabo hari ururabo mi ivaze mu ibara ry'icyatsi kibisi aribwongere kumererwa neza.

Inyubako nziza yicayemo abantu batandukanye, hari umugabo uri imbere wambaye umupira w'ikacye y'amaboko maremare, inyuma ari akajiri k'umukara, yambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse, inyuma ye hari umukobwa wambaye umwenda w'ubururu, ufite agakoresho mu ijosi, bigaragara ko ari umuganga, ufite umusatsi muke urimo kumwitaho, hirya ye hari abandi bantu nabo bigaragara ko bari mu kazi k'ubuganga.

Umuntu ukuze w'umugabo yambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umweru werurutse nta musatsi afite. yambaye linete, undi uri hirya ye arimo kumufasha guhaguruka afite imisatsi myinshi ni inzobe cyane, yambaye ipantaro y'ubururu yambayeho n'icyiitero cy'umweru arimo kumufasha.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, hari umugabo ku ruhande wasetse, wambaye imyenda y'imyeru igera ku birenge n'umugore wambaye imyenda y'umuhondo irimo amabara, bose bashyize amaboko hejuru, bahagaze mu busitani burimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu babiri harimo umugabo ukuze ufite n'ubwanwa bw'imvi wambaye ishati y'icyatsi kibisi, imbere ye hari umwana w'umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye agashati k'ubururu, arimo aramuha imiti mukiganza kugira ngo ayinywe akomeze kumererwa neza.

Abantu babiri b'igitsina gore bari ahantu hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi, umwe yambaye akantu mu mutwe gatukura, yambaye umupira muremure w'ubururu ni inzobe, undi yambaye umupira w'ubururu umanutseho utuntu tw'umweru, barimo kugenda bihuta mu murimo ngororamubiri.

Umugabo ubyibushye w'inzobe wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, afite inkoni mu ntoki yigondoye, hari umukobwa urimo guseka wambaye umwenda w'ubururu umufashe ku rutugu, wisutse nweri w'inzobe arimo kumwitaho.

Umuntu ukuze w'igikara w'igitsina gore, wambaye umupira w'ishweta y'ikake n'umupira w'icyatsi kibisi, afite ikirahure cy'amazi mu kuboko kumwe, mu kindi kiganza harimo ibintu bishobora kuba ari imiti agiye kuyinywa.

Abantu bishimye b'igitsina gore, umumama ukuze, araseka neza, inyuma ye hari umwana w'umukobwa wamufashe mu gituza, wisutse imisatsi, wambaye umwenda w'ubururu, barishimye.

Abantu benshi bicaye hamwe bose n'igitsina gore, imbere yabo hari ibyibo binini birimo inyanya zihishije neza ha zimo ibara ry'umutuku. Inyuma yabore izindi mbuto zirimo ibara ry'umuhondo barimo kuganira.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri, harimo uw'imibiri yombi wambaye agapira k'umweru, undi ni umunyamahanga wambaye agapira kajya kuba icyatsi kibisi n'undi wambaye iroze n'undi mugabo ukuze ufite ubwanwa bw'imvi; bose bari mu myitozo kandi barishimye.

Abantu babiri, umugabo ukuze wambaye agapira k'ubururu afashe akantu k'ubururu, inyuma ye hari undi w'umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari umuganga arimo kumufasha mu myitozo iri gutuma akomeza kumererwa neza.

Abantu benshi bicaye mu busitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi uwicaye ku ntebe y'umutuku urimo guseka n'umugabo w'umunyamahanga ukikiye umwana w'umwirabura, hepfo hari umudamu wambaye ishati y'amabara arimo kuboha ikintu cyo mu bwoko bw'igitebo.

Abantu babiri b'inzobe cyane, umwe ni umubyeyi w'umugore ukuze witeze igitambaro cy'umukara, wambaye amadarubindi, wambaye ishati irimo ibara ryikigina, inyuma ye hari umukobwa ukiri muto, wambaye umwenda w'ubururu ushobora kuba ari umuganga, imisatsi myiza y'imikara, arimo kumwitaho barishimye.

Abantu babiri, umugabo w'igikara wambaye agapira k'umukara werurutse, umugore w'inzobe ufite imisatsi y'imvi, wambaye agapira kajya kuba icyatsi kibisi barishimye barimo guseka bari mu mirimo ngororamubiri.

Umubyeyi w'umugabo uri kumwe n'umwana we, umwana wambaye ipantaro y'icyatsi kibisi n'umupira w'umweru, afite imisatsi myinshi afite umupira uri mu ibara ry'ikigina bakina, umubyeyi arimo kumufasha gukina yishimye, inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo ukuze ubyibushye ufite imvi wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara inyuma hari umugore wambaye umupira w'ubururu, barimo guseka bose barishimye bicaye mu busitani bwiza bw'icyatsi kibisi.

Abantu benshi biganjemo abakiri bato, hari umumama witeze igitambaro wambaye agashati kari mu ibara ry'umweru n'umukara n'ijipo wifashe neza, bose barareba imbere barimo kwitegereza ibintu ubona ko bibashishikaje.

Umugabo ukuze w'inzobe cyane wicaye, yambaye ishati y'akabara k'ubururu, yageretseho umupira w'umweru, ipantaro ya kaki, iruhande rwe hari umuntu wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, ufite umusatsi w'umukara urimo kumwitegereza.

Abantu babiri, umwe arakuze, ni umugabo ufite imisatsi y'imvi w'imibiri yombi, wambaye agapira k'icyatsi kibisi cyijimye n'agakote kajya gusa n'umutuku, ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore wambaye amadarubindi wasetse, wambaye agakote k'agakoboyi, imbere harimo agapira k'amabara y'umweru n'umukara, amufashe ku rutugu, inyuma yabo hari amarido y'umukara.

Umuntu wicaye w'umukecuru imbere ye hari ibyatsi byumye, inyuma hari ikindi icyatsi kibisi, yiteze igitambaro cy'umweru mu mutwe, yambaye agashati k'umweru, akenyeye akenda k'umuhondo aratuje.

Abantu batatu bari kumwe bishimye, umuntu ukiri muto yambaye umupira w'umutuku, ufite imisatsi y'umukara, ni inzobe arimo guseka, ukuze afite imisatsi y'imvi yambaye agapira k'umukara imbere, n'undi w'umweru inyuma, uri hirya ye ahagaze iruhande rwabo bose barishimye.

Umugabo ukuze wambaye umupira w'umweru, ufite imisatsi y'imvi, w'imibiri yombi, afite ikintu mu ntoki gikoreraho imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umukobwa wambaye imyenda ijya gutukura, yambaye n'agakoresho ko kwa muganga arimo kumufasha gukora iyo myitozo, kugira ngo amererwe neza.

Icyumba cyiza cyicayemo abantu babiri, umwe arakuze, undi aracyari muto, arimo kumwitaho amuha umutobe w'imbuto yateguye, imbere ye hari ibikoresho yakoresheje azitegura, inyuma hari akabati babikamo ibintu bitandukanye byo mu gikoni.

Umukobwa w'imibiri yombi uri mu myitozo ngororamubiri, aricaye, arunamye, amaboko yose yayafatishije ku birenge, yambaye ikabutura y'iroze, agapira k'umukara, imisatsi ye irasutse, hirya ye hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu babiri umubyeyi w'umugore ari imbere y'umukobwa ukiri muto, umukobwa yambaye agashati k'icyatsi kibisi kariho akabara k'umweru ku ijosi no ku maboko, afite umusatsi w'umukara. Uwo arimo kwitaho afite imisatsi y'imvi yambaye agashati k'umweru bose barishimye.

Abantu babiri bishimye. Umwe ni umugabo wambaye ishati ijya gutukura ukuze ufite imisatsi y'imvi n'ubwanwa bw'imvi, wasetse, wambaye n'amadarubindi. Dore ni umugore w'inzobe ufite imisatsi y'igikara, wambaye akantu k'ubururu. Imbere ku meza hari ibyokurya bitandukanye byiganjemo ibirimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu babiri bakuze, umugabo w'inzobe cyane wambaye umupira w'umutuku, yambaye rinete z'umukara, imisatsi ni imvi, umugore wambaye umupira w'umutuku utambitsemo utubara tw'umukara, imisatsi nawe ni imvi hari ibyo barimo gukora ku meza ari imbere yabo, hirya yabo hari ibikoresho bitandukanye byo mu gikoni.

Abantu benshi bishimye, hari umugabo wimibiri yombi, ufite imisatsi y'imvi wambaye ishati y'umweru, yegeranye n'umugore ufite imisatsi myinshi winzobe wishimye, hino hari umukobwa winzobe wafashe ku mugabo wimibiri yombi, hirya hari umudamu wasetse wambaye ishati y'umweru, inyuma hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu babiri bakuze, umwe ni umugabo w'imibiri yombi, wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, afite ubwanwa bw'imvi, undi ni umugore w'inzobe cyane imisatsi y'imvi, umupira w'iroze, bafite ibyo kurya byiza imbere yabo, by'amoko atandukanye.

Umuntu ukuze ufite umusatsi muke w'imvi, wambaye umupira w'ubururu n'umwitero werurutse, aricaye, afashe mikoro iri mu ibara ry'umutuku, hirya ye hari imodoka ziri mu mabara y'umweru hari n'ubusitani bari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu bari mu nyubako ifite irangi rijya gusa nk'umuhondo, bambaye imyenda y'icyatsi kibisi, n'ingofero z'icyatsi kibisi, n'udupfukamunwa tw'icyatsi kibisi, ni abaganga bitegura gufasha ababagana.

Abana b'igitsina gabo, umwe yambaye ipantaro y'akaki n'ishati y'umweru aricaye, abandi bari inyuma y'icyapa kiriho amagambo ari mu nyuguti z'umweru n'umuhondo, agaragaza ibikorerwa ahantu abo bagabo bari.

Umuntu uryamye mu bintu by'ibara ry'ubururu hari abandi bane bambaye amabara y'ubururu harimo n'umunyamahanga, bambaye n'udupfukamunwa ni abaganga barimo kwita ku murwayi kugira ngo yongere kumererwa neza.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, biganjemo abambaye imipira y'imyeru, bahagaze ahantu hari ubusitani, buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma yabo hari ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo agaragaza ibihakorerwa.

Abantu babagabo bicaye imbere abandi bicaye imbere yabo, hari amagambo ari mu ibara ry'umweru mu cyapa cy'ubururu agaragaza ibikorerwa aha hantu.

Abantu babiri umugore undi akaba ari umugabo, umugabo yambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'icyatsi kibisi, umugore yambaye agakote k'umukara, imbere harimo akandi kantu k'umukara n'umweru, bafashe icyapa cyandikishijeho inyuguti z'umukara zigaragaza ibyo bashaka kumenyekanisha, inyuma yabo hari amatara abiri.

Abantu babiri bahagaze, umugabo w'umunyamahanga, wambaye ikositimu y'umukara wifashe munda n'ishati y'ubururu, umukobwa wambaye ikanzu ngufi bose bambaye baji, hagati yabo hari icyapa kigaragaza aho bahagaze ibihakorerwa.

Umuntu ukuze w'inzobe w'igitsina gore witeze igitambaro cy'umutuku, washyize agapfuko k'umweru ku ijisho rimwe bigaragara ko rirwaye, gashobora kumufasha amaso yombi akongera kubona neza.

Inyubako nini iri mu mabara atandukanye, arimo ubururu, shokora n'icyatsi kibisi, imbere yayo hahagaze umuntu witeze mu mutwe akantu k'ubururu gasa n'akajipo, hagati yambaye aka shokora handitseho, hejuru ye handitseho amagambo agaragaza ibihakorerwa.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, imbere yabo hari abambaye imyenda y'imyeru bateze amaboko, barimo kubyina, inyuma hari icyapa cyandikishijeho inyuguti z'umutuku zigaragara neza cyane.

Icyapa kinini, hagati harimo ibara ry'ubururu, handitsemo n'inyuguti z'umukara, ku mpande naho handitse inyuguti zigaragara neza mu ibara ry'umukara, barayobora abahagana kugira ngo batagira urujijo.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, baricaye harimo n'abanyamahanga, imbere yabo hari abandi batatu, abagore babiri n'umugabo umwe, barimo kubaganiriza abandi bateze amatwi.

Abantu benshi b'abagabo n'abagore, bahuriye ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza y'umweru, bakandagiye ku gitambaro kiri mu ibara ry'umutuku, hagati yabo harimo umuntu wambaye imyenda y'imyeru y'abayisilamu.

Abagabo babiri b'inzobe bambaye costume z'imikara, umwe aricayez undi arahagaze, hari magambo yanditse imbere yabo agaragara neza mu ibara ry'umweru no mu ibara ry'ubururu, agaragaza ibyo bakora aho hantu.

Abantu benshi, biganjemo ab'igitsina gore, bicaye hamwe bari mu nyubako nini ifite inkingi iteye ibara ry'ubururu, inyuma hari icyapa cyanditse mu nyuguti z'umutuku, bigaragaza ibikorerwa aho hantu.

Abantu bane, uw'igitsina gabo ni umwe, abandi batatu bambaye ibitambaro by'umweru mu mutwe n'udushati tw'umweru, harimo amakanzu y'ubururu bwerurutse, bigaragara ko ari imyambaro y'ababikira, umugabo yambaye kositimu y'ubururu bwerurutse n'ishati y'umweru imbere, afashe umwe mu biganza arimo guseka, bari ahantu hari ibara ry'ubururu.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, umugore wambaye ikanzu y'umuhondo, abagabo bambaye amakositimu yumukara n'amashati y'umweru, abandi bambaye agakanzu karimo amabara y'umutuku n'umuhondo, bose bahagaze neza ahantu hari ibara ry'ubururu, ibyapa byerekana ibihakorerwa.

Abantu benshi abagabo n'abagore hari abicaye imbere abandi bicaye mu ntebe ziri imbere yabo, arabubiitse imitwe bigaragara ko barimo kwandika ibyabari imbere yabo babigisha, inyuma yabo hari icyapa kigaragara neza cyerekana ibihakorerwa.

Inyubako ifite irange ry'ikigina, ifite amadirishya, imbere hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari amagambo agaragara neza ari hejuru yerekana ibihakorerwa, hirya hari igiti kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bari ku murongo, abagabo n'abagore, hari intebe y'urubaho iri hagati mu kibuga, hari n'izindi ntebe z'umukara, hari umuntu wicaye hirya bagenda basanga, bashobora kuba ari abaganga kugira ngo babafashe.

ubusitani bwiza bagerageje uturaba tza twumutuku buri mu ibara ry'icyatsi ryabaye inyubako nziza iteye irangi ryyumukara hagati yari akayira k'abanyamaguru gakoze neza.

Ibikoresho bitandukanye byiganjemo intebe ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'imashini nyinshi byifashishwa kwa muganga, bigaragara ko abahagannye bashobora kubafasha bakamererwa neza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, hari igitanda gishasheho ishuka y'ubururu, hari n'izindi mashini nyinshi ziri mu iyo nyubako, ni ibifasha abaganga kugira ngo bite kubabagana, bongere kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nini iteye irange ry'umweru, imbere yayo hahagaze umukobwa wambaye ijipo ngufi ijya gutukura n'agapira k'umuhondo, afite imisatsi myinshi, ku iyo nyubako hejuru hari amagambo agaragara mu nyuguti z'umukara yerekana ibihakorerwa.

Igiti kinini cy'inganzamarumbo, gifite amashami manini, arimo ibara ry'icyatsi kibisi cyijimye, hasi hari urukuta rubanza rw'amabuye, haruguru hari urundi rukuta, hari umugabo wicaye yegamiye icyo giti, wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'ubururu bwijimye, ureba imbere.

Inyubako nziza iri mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari n'akayira gakoresheje amapave keza, kuri iyo nyubako handitseho amagambo ari mu cyapa cy'ubururu yandikishije inyuguti z'umweru, agaragaza ibikorerwa kuri iyo nyubako.

Inyubako nziza y'amatafari ahiye, imbere yayo hica abantu batandukanye, abagabo n'abagore, hari benshi bicaye imbere bambaye imyenda yiganjemo iy'ubururu, abandi bahagaze inyuma yabo harimo mubibikira wambaye igitambaro mu mutwe, hari n'abagabo bahagaze ahagana hirya, hari amagambo agana hejuru agaragaza ibihakore.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari igitanda gishasheho ishuka y'umweru, hari n'ibindi bikoresho byinshi, ni kwa muganga babyifashisha bita kubabagana kugira ngo bongere kumererwa neza.

Ibikoresho bitandukanye byinshi harimo igitanda gishasheho ishuka y'icyatsi kibisi kijimye imashini zigiye zitandukanye ni kwa muganga, babyifashisha bita ku babagana kugirango bongere kumererwa neza.

Inyubako nziza uruhande rumwe yiteye irange ry'umuhondo, irimo ibikoresho bitandukanye ni kwa muganga bifasha abahagana kugira ngo bongere kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini, kirimo ibikoresho bitandukanye, hari ameza, hari imashini, hari igitanda kiri mu ibara ry'ubururu, byose byifashishwa n'abaganga, bita ku babagana.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gabo bahagaze imbere y'inyubako nziza, biganjemo abambaye imyenda y'imyeru, kuri iyo nyubako hari amagambo yanditse mu nyuguti zigaragara z'icyatsi kibisi igaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nini nziza, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari igitanda gishashyeho amashuka yo mu ibara ry'ubururu, hari imashini zitandukanye, bahifashisha bita ku barwayi kugira ngo bongere kumererwa neza.

Umugabo ukuze wambaye ishati y'iroza, ari kumwe na muganga, w'umudamu wambaye ishati y'ubururu, n'imisatsi miremire y'imikara, ni inzobe yamushyizeho igikoresho bapima bagirango barebe uko amaraso atembera mu mubiri, kugirango bamufashe.

Inyubako nini y'amatafari ahiye iteye irangi ry'umuhondo ari amagambo yanditse mu buryo bugaragara mu nyuguti z'umweru agaragaza ibihakorerwa ifite amadirishya meza ari mw' ibara ry'ikigina.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara ko ari ibyo kwa muganga ibitanda, imashini, imeza, intebe, byose byifashishwa mu gufasha abahagana kugira ngo ubuzima bwabo bwongere kuba bwiza.

Inzu nziza ishakaje amabati y'ubururu, ku mpande zayo hari ibiti binini byiza, ifite amadirishya meza, ifite inkingi ziteye irangi ry'umweru n'imbuga nziza, hari amagambo yanditse mu nyuguti z'ubururu yerekana ikihakorerwa.

Umuntu w'inzobe w'igitsina gore wambaye imyenda y'ubururu, afite inweri yafungishijeho akantu k'ubururu, amaboko ye yombi afashe ku muntu uryamye bigaragara ko ari umurwayi, arimo kumwitaho ni kwa muganga.

Inzu nziza iri mu ibara ry'umweru irimo intebe n'ameza biri mu mabara ya kaki, ni ahantu kwa muganga bigaragara ko umuntu ahagannye bashobora kumufasha.

Abantu batanu biganjemo ab'igitsina gore, hari umugabo uhagaze hagati yabo wambaye umukara, hejuru yabo hari icyapa kiri mu nyuguti z'umukara kigaragara neza cyerekana ibihakorerwa.

Inyubako nziza cyane ifite ikirongozi kinini cyane ku mpande zombi hari ibyumba, ni kwa muganga, ibyo byumba byose bishobora kwifashishwa bita ku babagana kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, hari igitanda gishasheho ishuka y'umweru, haruguru hari akantu k'ubururu hari intebe hari ameza n'ibikoresho byo kwa muganga, bifasha abahagana kongera kumererwa neza.

Etajeri nyinshi ziri mu dukarito tw'imiti twiganjemo amabara y'umweru, buri gakarito kanditseho, kerekana umuti urimo ukoreshwa kugira ngo bitagora abawukoresha.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bigiye bitandukanye , biri mu ibarara ry'ubururu n'umweru, ni ibyo kwa muganga babikoresha kugirango bafashe ababagana ubuzima bwabo bwongere kumererwa neza.

Abagabo babiri umwe wambaye baji y'ubururu, wambaye ishati ya karokaro irimo umweru n'umutuku yicaye ku ntebe yumukara hejuru ye hari icyapa cyanditse mu nyuguti zigaragara neza z'ubururu, undi yicaye hirya ye afite itasi y'umweru kumeza ari imbere ye, yambaye ijire y'umukara hejuru ye hari utuntu twa kizimyamwoto arimo kumupima ngo arebe icyo amufasha.

Abantu bicaye hamwe bambaye imyenda itandukanye yiganjemo imipira y'umuhondo, ni abagore n'abagabo. Bicaye ku ntebe z'imyeru barimo kureba imbere yabo.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari byo kwa muganga, hari igitanda kirimo ibara ry'ubururu, gishajeho amashuka y'umweru, bashaka kukiryamishaho umuntu bagira ngo bamwiteho amererwe neza, hari n'ibindi bikoresho bakoresha bita ku babagana.

Icyumba kiza kirimo ibikoresho bitandukanye biri ku meza, hari abantu bagaragara ko ari abaganga, abagabo n'abagore, hari urimo gusuka ibintu ashyira mu kirahure, abandi bari iruhande rwe bamwitegereza.

Inyubako nini ifite urukuta rw'amabuye, yahuriyeho abantu, abagabo n'abagore, abagore bamwe baricaye n'abagabo bahagaze, imbere hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'igiti kirekire gifite amashami iruhande rwabo.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe, ibitanda, ameza abahagana bashobora gufashwa kongera kugira ubuzima bwiza mu gihe bari barwaye.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugore yambaye igitenge kirimo ubururu n'umuhondo, umugabo yambaye imyenda y'ubururu ni umuganga, afite igikoresho bimufashishe hirya y'abo hari urutoki rugaragara neza.

Abantu batatu b'igitsina gore bari kumwe, umwe yambaye imyenda iri mu ibara rya move afite imisatsi myinshi, yambaye agapfukamunwa na ga z'umweru, arimo kwita ku wundi wambaye ikanzu irimo: amabara y'umweru, umukara, n'umutuku, bari ahantu hari ibiti byiza by'icyatsi kibisi.

Inyubako nziza igeretse, irimo amabara meza y'ubururu, hejuru yayo hari ikirere cyiza kirimo ubururu n'umweru, igiti cy'umukindo cyiza cyane kiri ku ruhande rwo hirya, hafi y'inkingi z'umweru enye, hari ubusitani bukikijwe n'utubara twiza tw'umweru n'umukara.

Abantu bahagaze harimo uwambaye itaburiya y'umweru, arimo kwereka umwana wambaye agapira k'icyatsi kibisi, uburyo yajya asukura amenyo akoresheje igishushanyo cy'amenyo, hari umugabo hirya wambaye ikositimu yerurutse, hari n'abandi badamu barahagana hirya n'ikibaho bandikaho bigisha, bose barimo kubikurikirana.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda gishasheho amashuka y'umweru, hejuru hari amarido ari mu mabara y'ubururu, ni kwa muganga bahakoresha bita ku barwayi babagana.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari igitanda gishasheho ishuka y'umweru, bagikoresha basuzuma abarwayi baje babagana.

Inyubako nziza irimo ibikoresho byinshi, byiganjemo intebe, ameza, intebe ziri mu ibara ry'umukara, hirya hari ururabo rwiza, ruri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bashobora kuhifashisha bakira abantu batandukanye kugira ngo habafashe mu bijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako ifite irange ry'umweru, harimo ibikoresho bigaragaza ko ari kwa muganga, hari intebe iri mu ibara ry'umukara, hari igitanda bashobora kumanura bakanakizamura, kiri mu ibara ry'ubururu, byifashishwa bita ku barwayi, babagana.

Inyubako nziza iteye irangi ry'umweru n'irindi ry'ikigina ku rundi ruhande igeretse ifite imbuga nziza harimo abantu abagabo, n'abagore bambaye imyenda y'ubururu n'umukara bakorera muri iyo nyubako.

Inyubako nini, igaragara neza, hari abantu barimo kuyinjiramo biganjemo abambaye amashati y'imyeru n'amapantaro y'ubururu, bafite buri muntu wese akantu mu ntoki, handitseho amagambo agaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nziza, ifite irangi rijya kuba umuhondo n'kigina, yanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umweru, agaragara neza n'andi ari mu nyuguti z'icyatsi kibisi ahagana hirya, afasha abahagana kugira ngo bamenye ibihakorerwa.

Inyubako ndende, imbere yayo hari umuntu wambaye umupira w'umweru hejuru ye hari icyapa cyanditse mu nyuguti zitukura, cyerekana ibihakorerwa hejuru yaho hari ikindi cyapa cyanditse mu nyuguti z'icyatsi kibisi n'iz'ubururu byerekana ibikorerwaho kugira bidatera urujijo.

Inyubako nini iteye irangi ry'umweru n'umuhondo, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitanda biri mu ibara ry'ubururu, intebe, ni ibyo kwa muganga babyifashisha bafasha ababagana kugira ngo bongere kumererwa neza.

Ibikoresho byinshi biri mu nyubako nziza harimo igitanda kirimo ibara ry'ubururu, imashini, irido irimo ibara rijya kuba umuhondo, ibyo byose babyifashisha kugira ngo bite kubagana bagire ubuzima bwiza.

Abantu babiri, umwe ni umudamu uryamye ku gitanda yateze igitambaro wiyoroshe n'igitenge, undi ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru wambaye linete ufite umusatsi muke, arimo kumwitaho kugira ngo ubuzima bwe bwongere kumera neza.

Abantu benshi bicaye biganjemo ab'igitsina gore, imbere yabo bahagaze umugabo wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru, abandi bagabo babiri baricaye, umwe wambaye imyenda y'ibara ry'umukara, undi mu ry'umweru, hari icyapa kiri imbere kigaragaza ibikorerwaho.

Abantu babiri umwe w'inzobe wambaye umwenda w'umweru , afite umwana ukiri muto mu bitambaro by'irose, undi uri hirya ye yambaye umwenda w'ubururu , ku gakora hariho umweru, yasutse imisatsi yambaye na rinete, bari mu nyubako nziza.

Inyubako nziza, ikinguye ku marembo, harimo abantu benshi batandukanye, hari amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara, agaragaza ibihakorerwa, hirya hari icyapa kinini nacyo cyanditseho amagambo agaragara neza, hari abantu bari ku igare babiri, umwe ari imbere undi ari inyuma, bagana kuri iyo nyubako.

Inyubako nziza ifite urugi rukinguye, hino yaho hari umudamu uhagaze iruhande rwayo, hejuru handitse amagambo agaragara neza arimo ibara ry'ikigina yerekana ibihakorerwa kugira ngo uhagana bitamubera urujijo.

Inyubako nziza ifite tapi y'icyatsi kibisi, irimo ibikoresho bitandukanye ni kwa muganga, bishobora kwifashishwa mu kuvura abarwayi, barwaye indwara zitandukanye baje babagana.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, harimo ibitanda biri mu ibara ry'ikigina, hari ameza, hari utubati, hari n'intebe, ibyo byose byifashishwa kugira ngo bite ku babagana, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo byinshi biri mu ibara ry'ubururu n'ibindi biri mu mabara agiye atandukanye, babyifashisha bita kubabagana kugira ngo bongere kumererwa neza.

Inyubako nziza, ndende, yubakishije amatafari ahiye, ifite ubusitani bwiza, buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, harimo utuyira twubatse neza kugira ngo abahagana bahagere bitabagoye.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari n'umuntu uryamye ku gitanda gishasheho amashuka y'umweru, yiyoroshe ishuka y'umweru n'ikiringiti cyo mu ibara ry'icyatsi kibisi, ararwaye baje kumufasha.

Inyubako nziza ku muryango hateye ibara ry'irangi ry'ubururu bwerurutse, hejuru hariho icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, handitsemo amagambo ari mu nyuguti z'umweru agaragara neza, afasha abahagana kumenya ibihakorerwa kugira ngo batagira urujijo.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, hari umusore wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu yambaye ga z'ubururu, arimo gukora isuku muri iyo nyubako bigaragara ko ari kwa muganga, abahagana bashobora kumererwa neza.

Inyubako nziza igeretse, imbere yayo hari abagabo babiri, umwe yambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'ikoboyi, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, bose bari imbere yayo, hirya hari ubusitani bw'iyatsi kibisi.

Inzu nini irimo intebe z'umukara hagati harimo ameza manini, hirya hari izindi ntebe zirimo ibara rya shokora, inzu iragaragara ko ifite irangi rijya kuba umuhondo, ni inzu nziza.

Inyubako nziza irimo irangi ry'umweru, ku rundi ruhande ni icyatsi kibisi, harimo igitanda cy'umweru, ni kwa muganga bigaragara ko hafasha abantu batandukanye kongera kumererwa neza.

Inyubako nziza irimo ibitanda, amarido y'icyatsi kibisi, hari umuntu uryamye wiyorosha ikiringiti kiri mu ibara ry'umutuku n'ubururu, ni kwa muganga barimo kumwitaho kugirango yongere kumererwa neza.

Inyubako nziza, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari igitanda gishasheho ishuka y'ubururu, hari n'ibindi bikoresho byinshi mu mabara agiye atandukanye ni ibyo bifashisha kugira ngo bite ku barwayi baje babagana.

Inzu nziza igeretse, ifite icyapa imbere kiri mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi kibisi, handitsemo ibihakorerwa hirya yabo hari abagabo bahagaze ahantu heza hashashe amapave, iruhande rw'imodoka.

Inyubako nziza y'amatafari ahiye ifite akayira keza kahagana kagendwamo n'abanyamaguru, ifite ubusitani bwiza burimw' ibara ry'icyatsi kibisi, hari n'ibiti by'icyatsi kibisi byakuze bisa neza.

Ahantu hari ibiti byinshi birebire by'icyatsi kibisi, haruguru hari urukuta rw'amatafari ahiye, hagati harimo icyapa cyandikishijemo inyuguti z'umukara, icyapa ni umweru, kirerekana ibikorerwa aho hantu kugira ngo hatagira ugira urujijo.

Inzu nini igeretse kabiri, ifite ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi hariho idarapo, hirya yaho hahagaze imodoka iri mu ibara ry'umutuku, hagati hari inzira y'amapave iriho utubara tw'umweru dusa neza.

Abantu batatu bahagaze imbere y'inyubako, umwana w'umuhungu wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, aracunga igare riri mu ibara ry'umukara aryicayeho yambaye ishati y'umweru, imbere yabo hari undi muntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, umuryango urafunguye ni kwa muganga baragira ngo bajye kumuf...

Inyubako nziza, iri mu ibara ry'umukara, ifite ubusitani bwiza buri mu ibara ry'cyatsi kibisi, hari ibiti birebire byiza, akayira kagaragara neza k'abanyamaguru, hari abantu bagenda bayigana.

Abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru, bahagaze imbere y'ibikoresho bigiye bitandukanye bigaragara ko ari kwa muganga, bambaye agapfukamunwa k'ubururu, barareba uburyo babikoresha bafasha ababagana.

Inyubako nziza y'amatafari ahiye ifite ubusitani buririmo ibara ry'icyatsi kibisi hari icyapa kiri ahantu hagaragara cyandikishijeho inyuguti z'umweru, kereka abahagana ibihakorerwa.

Inzu nini ifite amarange yiganjemo ay'umweru, hejuru hari irindi range ryiza ry'icyatsi kibisi n'ahagana hirya hari icyatsi kibisi kerurutse, ni nini ni kwa muganga, babasha kwakira ababagana bose.

Abantu babiri, umugabo wambaye isengeri y'umweru, ufite umusatsi muke, undi wambaye ga z'umweru, itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari umuganga, arimo kumutera urushinge ku kaboko kugira ngo amufashe kongera kumererwa neza.

Inyubako nziza iteye irange ry'umweru no ku nkingi, hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara. Hari inyuguti zigaragara neza zanditse kuri izo nyubako zimenyekanisha ibihakorera, hanze yayo hari ubusitani bwiza cyane buri mu ibara ry'isi.

Inyubako nziza igeretse, imbere yayo hari ubusitani burimo ibara ry'icyatsi kibisi, igizwe n'inkingi ziri mu ibara rya shokora, inyuma hari ikirere cyiganjemo ibara ry'ubururu.

Inyubako nini imbere yayo hari imbuga nini ikoresheje amapave hari umuntu wambaye imyenda iri mu ibara rya shokora n'umweru utambitseho akantu gatukura, hari igiti kinini gikoze bariyeri ituma buri wese adapfa kwinjira uko yiboneye, hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu n'icyatsi kibisi cyanditseho amagambo agaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nziza ifite ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, iteretsemo ivaze ifite ibara ry'umutuku irimo ururabo rw'icyatsi kibisi, ifite idirishya, hejuru hari amagambo yanditse mu nyuguti z'icyatsi kibisi hariho n'akabara k'umuhondo n'ubururu hejuru, bigaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nini ifite irange ry'umweru, amadirishya manini, hari inkingi zubakishije amatafari ahiye, hari ubusitani butoya buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hejuru handitse ibihakorerwa mu nyuguti z'umukara zigaragara neza.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, hejuru hari irangi ry'umweru, handitseho amagambo agaragara neza yerekana ibikorerwamo, hari ubusitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nziza, urugi rwo ku marembo ruri mu ibara ry'ubururu. Hari inyuguti ziri mu ibara ry'umweru zigaragara neza, hari ibiti byakuze biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari ibyapa iburyo n'ibumoso, bigaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nini nziza cyane, imbere yayo hari abantu benshi, buri muntu wese afita akantu mu ntoki, bambaye amashati y'imyeru, n'amapantaro yumukara, hari n'uwambaye iy'ubururu. Bose barimo kugenda binjiramo hari amagambo yanditse mu nyuguti z'icyatsi kibisi agaragaza ibihakorerwa.

Umwana w'inzobe bashyize mu kantu kabafasha kumenya ibiro afite, iruhande rwe hahagaze umuntu wambaye itaburiya y'umweru ni muganga, aragira ngo amufashe kumenya ibiro afite.

Inyubako nini hagati harimo igikuta giteyeho irangi by'umuhondo ugaragara neza, ahandi hari ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara ko ari kwa muganga n'amagambo ari mu nyuguti z'umukara yanditse ahagana hejuru, yerekana ibihakorerwa.

Abantu benshi biganjemo abambaye amabara y'icyatsi kibisi, bari imbere y'inyubako, iyo nyubako iriho amagambo agaragaza ibihakorerwa, hirya yaho hari ihema ry'umweru, hirya hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako nziza, ifite ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, yubakishije amatafari ahiye, hari icyapa kiriho inyuguti z'umweru zigaragara neza, mu ibara ry'ikigina, zerekana ibihakorerwa.

Inyubako nini irimo abantu bambaye imyenda y'ubururu, ingofero z'icyatsi kibisi, hari umuntu uryamye wambaye umwenda w'ubururu, aryamye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru, bigaragara ko ari kwa muganga bamurambuyeho igitambaro cy'icyatsi kibisi, barimo kumwitaho kugira ngo yongere kumererwa neza.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bigaragara ko ari ibyo kwa muganga hari ibitanda byinshi bishashaho amashoka yo mu ibara ry'icyatsi kibisi hari umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara urimo gufunga irido kugira ngo hagaragare neza.

Inzu nini nziza ifite umuryango ufunguye, ifite ku muryango amagambo agaragaza ibihakorerwa, hino yayo inyuma hari umugore uhetse umwana wambaye akagofero k'iroze n'agatambaro ko kumutwikira yapfundikiye mu ijosi, hari imbuga nziza abantu bagendamo.

Inyubako iriho irange rijya kuba nk'umukara, hari abantu bari mu kayira keza bayigana, ifite ubusitani bwiza burimo ibiti byakuze, harimo n'icyapa kigaragara mu ibara ry'umukara cyandikishijeho inyuguti z'umweru, kerekana ibihakorerwa.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga, hari ahantu hari amarido ari mu ibara rya shokora bifashisha bita ku barwayi kugira ngo babiteho mu buryo bw'ibanga kandi uhagana wese bashobora kumufasha.

Inyubako nziza nini ishakaje amabati yumutuku, imbere yayo hari amadarapo abiri, ifite amarangi y'umweru ugana hejuru hasi numukara, hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu byanditseho ibihakorerwa imbere hari imbuga nziza y'amapave.

Umuntu w'igitsina gore uryamye ku gitanda kwa muganga, wambaye ikanzu y'ubururu n'umweru, muganga wambaye imyenda y'iroze arimo kumufata ku kaboko kugira ngo amuvure, umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'iroze w'igikara ahagaze haruguru yabo afashe ku gitanda.

Inyubako nini igeretse, ifite amadirishya menshi, iteye irangi ry'umuhondo, yahuriyeho abantu benshi, ifite utugiriyaje ahagana hasi turi mu ibara ry'ikigina, hari imodoka y'umweru weherurutse, hari icyapa cy'umweru cyandikishijeho inyuguti z'ubururu bigaragaza ikihakorerwa.

Inyubako nziza irimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga, iteyeho ibara ry'irange, hasi hari ibara ry'ikigina, uhagana hashobora kumufasha kongera kugira ubuzima bwiza.

Inyubako ndende ifite irangi rijya kuba ikigina, imbere y'aho hahagaze imodoka ziri mu ibara ry'umweru, iruhande hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hirya y'aho hari icyapa kigaragara neza cyanditseho ibihakorerwa.

Ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, impande yabyo hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, iry'ikigina, iry'umuhondo n'iry'ubururu n'icyatsi kibisi, handitseho amagambo agaragaza ibikorerwa aho hantu.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hahagaze abantu batandukanye, hari umugore wambaye umupira w'umutuku n'igitenge cy'umukara, hari n'undi muntu wambaye imyenda y'imikara wicaye iruhande rwe, hari amagambo ari kuri iyo nyubako agaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nziza isakaje amabati meza y'ubururu, yubakishyuje amatafari ahiye ifite ubusitani bw'icyatsi kibisi n'igiti kinini cy'icyatsi kibisi, hari icyapa kinini cyanditseho amagambo mu nyuguti nkuru, zigaragaza ibikorerwa muri iyo nyubako.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, igitanda n'ibindi bikoresho bishobora gufasha abantu bahagana kugira ngo bongere kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza igeretse, iriho irangi ry'umweru, yanditseho amagambo meza agaragaza ibihakorerwa, hari ubusitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari n'inzira y'abanyamaguru ikoze neza cyane.

Inyubako nziza irimo intebe n'ameza biri mu ibara ry'umukara, hirya hari utundi tubati tugiye dutandukanye, harimo inzugi z'umweru zishobora gukoreshwa mu kuvura abantu bagiye batandukanye.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye itaburiya y'umweru ufite, umusatsi muke ,afite inyandiko mu ntoki hanyuma arasomera umuntu uri iruhande rwe rw'igitsina gore, wambaye ikanzu yubururu n'umutuku bahagaze ahantu inyuma yabo hari urutoki.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, higanjemo ab'igitsina gore, hari uhagaze iruhande rw'imodoka iri mu ibara ry'umukara, wambaye agashati k'umutuku n'igitenge cy'amabara, hirya hari abandi bambaye ibitenge by'amabara yiganjemo ay'icyatsi kibisi.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari igitanda gishasheho amashuka y'umweru, izindi mashini, intebe irimo ibara ry'umukara, byose byifashishwa kugira ngo bite ku barwayi babagana.

Inyubako nini hejuru hateyeho irangi rijya kuba ikigina, ifite ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari imodoka ziganje mu ibara ry'umweru, hari icyapa kigaragara neza cyerekana ibihakorerwa.

Inyubako nini irimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga, harimo ibitanda, intebe, ameza n'amarido y'umweru, ibyo byose byifashishwa bari mu kwita ku babagana, babafasha ku burwayi bashobora kuba bafite ubwo aribwo bwose.

Ahantu heza harimo ibikoresho bitandukanye, harimo abantu batatu: umugabo n'abagore babiri bigaragara ko ari kwa muganga, bambaye ga z'ubururu bose barishimye, bategereje uwabagana wese kugira ngo bamufashe kumererwa neza.

Inzu nini, igeretse, ifite amadirishya menshi, imbere yayo hahagaze imodoka ziganjemo iziri mu ibara ry'umukara, hari n'iz'umweru, hari umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ingofero y'umukara n'ipantaro y'umukara, washyize akaboko imbere n'ibiti by'imikindo byiza.

Inyubako nini irimo abantu benshi bambaye imyenda y'umweru umubiri wose, bipfutse mu maso bambaye n'udupfukamunwa hari ibitanda, hari amarido ari mu ibara ry'ubururu, ni ibikoresho bakoresha bari kwa muganga kugira ngo bite ku babagana.

Umuntu w'igitsina gore w'igikara wambaye agashati k'umweru n'agashanete mu ijosi, yavunitse akaboko arimo arakandishaho akantu mu ibara ry'ubururu kugira ngo yongere kumererwa neza.

Umusore w'imibiri yombi uri mu myitozo ngororamubiri yambaye umupira w'umukara, ku maboko hariho akabara ka shokora, akaboko kamwe yagashyize mu bitugu akandi gafashe mu nkokora.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara, nta nkweto yambaye, yamanuye akaguru kamwe akandi arakazamura agafatira mu ivi n'amaboko yombi, hirya ye hari urukuta rwubakishije amatafari n'idirishya ririmo irido ry'umweru.

Umuntu uryamye w'inzobe akaguru yagashyize hejuru hari undi wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari muganga amufashe ibiganza byombi arimo kureba ikibazo yagize ngo amufashe kuko ashobora kuba yavunitse.

Abagabo babiri harimo uryamye n'inzobe yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu, hepfo ye hari umupira bakina uri mu ibara ry'umweru n'umukara, hari undi amufashe n'amaboko yombi ku kaguru mu ivi, wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara n'inkweto zitukura, baryamye ahantu hari ubusitani biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo ubyibushye, wambaye umupira udafite amaboko w'umweru werurutse yambaye isaha y'umukara, yifashe mu mutwe inyuma n'amaboko yombi ari mu mirimo ngororamubiri kandi ni iy'ingenzi.

Umuntu uryamye uri mu imyitozo ngororamubiri wambaye umupira w'umweru n'ipantaro yumukara, undi wambaye imyenda y'ubururu urimo kumufasha kugorora umubiri kandi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye imyenda y'umukara wicaye mu busitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, amaboko ye yombi afashe ku kibero cye arahakanda ashobora kuba arimo kubabara.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro y'umukara, agapira k'iroze, inkweto z'iroze, amanuye amaboko afata ku rukweto, akandi kaboko kagarukiye mu ivi, arimo gukora iyo myitozo.

Imbuto nziza ziri mu mabara atandukanye, harimo amabara y'umuhondo , ay'icyatsi kibisi n'ay'umutuku, zishobora gukoreshwa, zigatuma umuntu agira ubuzima bwiza, yaba abatoya cyangwa abakuru.

Abantu benshi bari mu mbuga nini, hirya hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bahagaze hamwe baragaragara nk'abantu bari mu mikino ngororamubiri.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri, umwe ni umugabo wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umutuku inkweto z'umukara, arimo gukora imyitozo, undi yambaye ipantaro y'ibara ry'ikigina n'umupira w'umukara, bose bari muri iyo myitozo.

Umusore w'inzobe w'imisatsi myinshi, wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara irimo n'utubara tw'umweru, n'inkweto z'umukara n'umweru, n'amasogisi y'umweru, ahagaze ku itapi y'icyatsi kibis, yashyize amaboko imbere, arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gore urimo gukora imirimo ngororamubiri, mu kuboko kamwe yakafatishije mu bitugu, akandi gafata ku nkokora, afite imisatsi yasutse, yambaye amaherena y'umweru, isaha y'umukara n'akandi kantu kari ku kaboko k'umukara

Umuntu w'imibiri yombi wafashe ikiganza ku kaboko mu nkokora, arakandishaho akantu k'ubururu ashobora kuba yavunitse, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, aragira ngo arebe ko yakongera kumererwa neza.

Icupa ry'umweru ku munwa ari ubururu hariho n'akantu k'umutuku, barimo gusuka amazi mu kirahure cyiza; amazi agirira umuntu akamaro, umubiri uba ukeneye amazi cyane.

Uwo musore w'imibiri yombi wambaye akantu ku kaboko k'icyatsi kibisi, yambaye isengeri y'umukara, akaboko gafashe icupa ry'amazi, arimo kunywa, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore w'inzobe, wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umweru, ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umweru, akaguru kamwe yakarambuye, akandi kaboko kagafasheho, akandi kaboko kifashe mu nda, arimo gukora imyitozo.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru, agapira k'umukara, yamanuye amaboko yombi ayaganisha ku kaguru yarambuye akandi karahinnye, hirya ye hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu w'igikara cyane, afashe icupa riri mu ibara ry'icyatsi, arimo kunywa amazi, ari mu myitozo ngororamubiri, aragira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza cyane.

Umuntu w'imibiri yombi, wambaye imyenda y'ubururu, wicaye mu igare ry'abarwayi, bigaragara ko ari kwa muganga, iruhande rwe hari uwambaye itaburiya y'umweru, wamufatishije amaboko yombi, ni umuganga arimo kumufasha.

Umugabo ubyibushye wambaye umupira wicyatsi kibisi yashyize amaboko abiri hejuru arimo kwisukaho amazi mu maso yambaye agakomo mu ibara rya move, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kandi niy'ingenzi.

Umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri, w'igitsina gore yambaye ikabutura y'icyatsi kibisi n'isengereye y'icyatsi kibisi, yazamuye akaguru agafatisha amaboko yombi, kandi imyitozo ngororamubiri igirira umuntu akamaro.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara y'amaboko maremare na we ni igikara, afite icupa ry'umweru yafatishije ukuboko kumwe, arimo kunywa amazi, arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu arimo kunywa amazi mu icupa ririmo akabara k'ubururu, afite igitambaro cy'umweru mu ijosi, yambaye agapira karimo ibara ry'umweru, ubururu n'icyatsi kibisi, afite umusatsi muke, ari mu mirimo ngororamubiri.

Imbuto zitandukanye iziri mu ibara ry'icyatsi, iry'umutuku n'iry'umuhondo, hari izo bateguyemo umutobe bawushyira mu kirahure kiragana hirya, hari icupa ry'amazi na ryo ryifashishijwe mu gutegura umutobe ukaba ugirira umubiri akamaro.

Abantu babiri: umwe w'igitsina gore, undi w'igitsina gabo, bari mu myitozo ngororamubiri, umugore ahagaze, amaboko yayazamuye, yambaye ikabutura y'umukara iriho utubara tw'umweru, hejuru n'agapira kerurutse, umugabo arimo kunywa amazi, yambaye imyenda y'umukara, ni inzobe cyane.

Iyi nyubako nziza iri mu ibara ry'umweru irimo ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari byo kwa muganga harimo igitanda kiri mu ibara ry'ubururu, intebe ziri mu ibara ry'ubururu, n'ibindi bikoresho bishobora gufasha abagana kwa muganga kugira ngo abafashe bitabagoye.

Umusore w'inzobe wambaye umupira w'amaboko magufi, afashe ku kandi kaboko, arakandishaho akantu kari mu ibara ry'ubururu, ashobora kuba yavunitse aragira ngo arebe ko yakongera kumererwa neza.

Umusore w'imibiri yombi wambaye umupira w'icyatsi kibisi cyerurutse, afashe umupira wo gukina uri mu ibara ry'ubururu awufatiye mu kwaha.

Umuntu wambaye agapira karirimo ibara ry'icyatsi, urimo gukora imirimo ngororamubiri akaboko kamwe yakamanuye akageza mu bitugu akandi gafashe ku nkokora kugorora umubiri ni ikintu cy'ingenzi cyane ku buzima.

Umuntu w'inzobe ukanda ku kaguru akoresheje ikiganza kimwe, akandi kaguru kari hirya, yabambaye ikabutura y'umukara, aragira ngo arebe ko aho yavunitse hakongera kumera neza.

Umugore ukiri muto wambaye ikanzu y'ubururu iririmo amabara ajya kuba n'umuhondo, yicaye ahantu hari amabara arimo n'ay'icyatsi kibisi, imbere ye hari umwana wambaye utwenda tw'umweru w'inzobe wishimye.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, umugabo uhagaze imbere yabo wambaye taburiya nini y'umweru n'ipantaro y'umukara, arimo kwereka abicaye imbere ye ibyo bagomba gukora, imbere hari umudamu nawe wambaye itaburiya, n'abandi barimo kwandika ibyo arimo kubabwira.

Abantu batatu umubyeyi wambaye umwenda w'umuhondo afite umwana wambaye akenda na ko kajya kuba umuhondo ukiri muto, imbere ye hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu, bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu arimo kwita kuri uwo mwana, bigaragara ko ari kwa muganga kuko hirya ye hari ameza manini ariho ibikoresho.

Abantu benshi bagaragara nk'abari mu myitozo ngororamubiri, bahagaze undi araryamye, hari abantu bambaye umupira w'umweru ukajire k'umutuku n'ipantaro y'umukara babiri barimo kwita kuri uwo uryamye bareba ikibazo yagize.

Umuntu w'umugabo unywa amazi mu icupa riri mu ibara ry'ubururu, afite igitambaro cy'umweru mu ijosi yambaye umupira wumukara werurutse afite umusatsi muke n'ubwanwa buke.

Umuntu wambaye agatambaro mu ijosi k'umweru, agapira karimo ubururu, umweru n'icyatsi kibisi, ni igikara, nta musatsi afite, arimo kunywa amazi mu icupa ry'umweru rifite hejuru b'ubururu ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo uryamye udafite umusatsi wambaye umupira w'mweru, ikabutura y'icyatsi kibisi, arimo gufashwa n'undi wambaye itababuriya y'ubururu, bigaragara ko ari umuganga aramufasha ku kibazo cy'ivi ashobora kuba yavunitse.

Abantu babiri b'igitsina gabo, umwe araryamye yambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara itambitseho utubara tw'umweru, undi w'umunyamahanga wambaye isaha y'umukara n'umupira w'umukara akaguru yagashyize ku rutugu rwe arimo kumufasha ashobora kuba yavunitse.

Abantu babiri bari mu myitozo ngororamubiri, umwe yambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'ubururu, ni inzobe, undi yambaye ikabutura y'umukara iriho akantu k'icyatsi kibisi n'agapira kerurutse, bafite amacupa mu ntoki, umwe afite iry'ubururu, undi iry'icyatsi kibisi, bari mu myitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari umusozi.

Umuntu w'igitsina gabo winzobe yambaye ikote ry'cyatsi kibisi cyijimye yambaye ikabutura y'umukara arimo kunywa amazi mu icupa rinini ry'umukara.

Umuntu w'igitsina gore wambaye ishati y'icyatsi kibisi, yambaye ga z'ubururu, asutse inweri yambaye n'agapfukamunwa, imbere ye hari imashini arimo kuyirebaho afite n'agakoresho mu ijosi kagaragaza ko asuzuma abaje bamugana akabafasha.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi isutse, wambaye agapfukamunwa karimo akantu k'umutuku, yambaye umupira wumukara uriho akantu k'umuhondo, yambaye isaha' yumukara, arimo kwita ku muntu uri imbere ye, hirya ye hari inyubako, hagati hari ubusitani buri mu ibara ry'icya.

Abantu babiri, umwana n'umumama, umumama yafashe uwo mwana amutunze akantu mu maso arashaka kureba ikibazo yaba afite, uko bigaragara ko umwana asa nk'urwaye kugira ngo amufashe.

Ibikoresho byinshi bitandukanye birimo ibitanda, intebe, ameza, ni ibyo kwa muganga babikoresha bita ku babagana kugira ngo bongere kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari igitanda kiri mu ibara ry'ubururu, hari intebe nayo iri mu ibara ry'ubururu, hari n'ibindi bikoresho byinshi byose bifasha abahagana kongera kumererwa.

Ibyo kurya bitandukanye, biri mu mabara atandukanye, ay'umutuku, umuhondo, pome, amaronji, byinshi, imbere yabo hari umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, bigaragaza ko gukoresha ibi byo kurya bitandukanye byamugirira akamaro.

Imbuto zitandukanye, ziteretse mu biganza by'umuntu w'inzobe cyane, harimo pome, harimo voka, amatunda, amashufureri, hirya hari inkweto ziri mu ibara ry'ubururu, ibiri aho byose bigirira umuntu akamaro.

Amacupa atatu ari mu ibara ry'umweru, afite icyapa cya move handitseho amagambo agaragaza ibiri muri aya macupa, kugira ngo ubikoresha atajya mu rujijo cyane cyane ko ashobora kuba ari n'imiti umuntu ashobora kwifashisha mu buzima.

Umuntu w'igitsina gore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'ikacye, agasengeri k'icyatsi kibisi, afite imisatsi myinshi, ni inzobe, yamanuye akaboko kamwe akageza ku kirenge, akandi akageza mu mugongo.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'icyatsi kibisi w'inzobe, yambaye inkweto z'umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri yiruka kandi bigirira umuntu akamaro.

Abagabo babiri b'inzobe, umwe yicaye ku gatapi k'umukara, akaguru kamwe yakuyemo inkweto, akandi kambaye inkweto n'amasogisi y'umukara, undi arimo kumufasha kugira ngo arebe aho yaba yagize ikibazo wenda yavunitse.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, isaha y'umukara, ubyibushye, afashe agacupa k'amazi arimo kunywa, afite ubwanwa bukeya, arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore w'igikara, urimo kunywa amazi mu icupa ry'ubururu, yafatishije akaboko kamwe, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ari ahantu hari mu ibara ry'icyatsi kijimye, yambaye umupira w'umweru werurutse.

Abantu benshi harimo umusore wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, hari abandi babiri bamuteruye umwe wambaye akajire k'umutuku n'undi ak'umutuku n'agapira k'umweru imbere bigaragara ko yavunitse, abandi bari inyuma yabo, inyuma hari ishyamba rinini.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi kibisi kigaragara neza, hasi yambaye umukara, akaboko kamwe gafashe umupira wo gukina, uri mu ibara ry'ubururu uriho nomero ya kane.

Umugore w'inzobe ubyibushye uri mu myitozo ngororamubiri, aricaye yambaye imyendara y'ibara ry'ikigina, amaboko afashe ku birenge akora imyitozo kandi ni ingenzi mu buzima.

Umuntu w'imibiri yombi, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu, yarambuye akaboko, akandi yagafatishije mu kizigira akoresheje akantu k'ubururu, ashobora kuba yavunitse, arimo kuhakanda kugira ngo yongere kumererwa neza.

Abantu benshi b'igitsina gabo, bari iruhande rw'undi muntu uryamye, hari uwambaye imyenda y'ubururu urimo kumufata ahagana hepfo ku maguru, yiseguye amaboko, aryamye ahantu hashashe igitambaro cy'ubururu, barimo kumufasha kugira ngo yongere kumererwa neza.

Umusore w'igikara afashe icupa ry'ubururu arimo kunywa amazi, afite umusatsi muke yambaye umupira w'amaboko magufi, w'igikara cyerurutse; ari mu myitozo ngororamubiri, ni ikintu cy'ingenzi.

Ibikoresho bitandukanye birimo ibiri mu ibara ry'umutuku, ubururu, byatsi kibisi, byose bikoreshwa kugira ngo bifashishe bamenye ikibazo umuntu yaba afite, hari ikiganza cy'umuntu w'umunyamahanga baririmo kwandika.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro y'umukara, agapira kerurutse kariho utubara t tw'irose, asutse imisatsi igera mu mugongo, arararamye, amaboko yashyize ku gatapi kariho ibarari rya shokora, imbere ye hari ivasze n'inyuma harimo indabo z'icyatsi kibisi.

Ibiti biririmo ibara ry'icyatsi n'indabo z'umuhondo n'umutuku, biragaragara neza bishobora gukoreshwa mu miti itandukanye ishobora no kuvura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Icupa riri mu ibara ry'umweru, rifite umupfundikozo w'umweru, hariho akapa gafite ibara ry'umukara, harimo inyuguti z'umukara zigaragara neza, zifasha abantu kumenya ibiri muri iryo cupa. Kugira ngo niba ari umuti bawukoreshe bitabagoye.

Amacupa abiri rimwe riri mu ibara ry'umuhondo, ryandikishijeho inyuguti z'ikigina, irindi riri mu ibara ry'umweru ryandiikishijweho inyuguti z'umutuku, hashobora kuba harimo imiti bigaragara ko yafasha abantu.

Ibiti byiza, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bifite amababi meza, ashobora gukoreshwa hakavamo imiti itandukanye, ishobora gufasha ku bantu barwaye indwara zigiye zitandukanye.

Abantu babiri bagaragaza amaboko yabo yombi, ni inzobe, umwe afite uburoso bakoresha basukura amenyo, undi afite umuti arimo kumushyiriraho yambaye ishati y'ubururu.

Amashami y'ibiti meza, hariho n'amababi ari mu ibara ry'icyatsi kibisi kijimye, ashobora gukoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye, ashobora kuvamo imiti igafasha abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye.

Icupa ry'umweru ririho icyapa kiriho amagambo agaragara neza, yanditse mu nyuguti z'ubururu, aragaragaza ibiri muri iryo cupa, rishobora kuba ari imiti, uburyo byakoreshwa kugira ngo ubikoresha atagira urujijo.

Ibiti byiza, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi kigaragara neza, bishobora kuvamo ibintu bitandukanye, bishobora gufasha abantu, bishobora kuvamo imiti, ikavura indwara, zo mu bwoko butandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo kiriho inyuguti zigaragara neza, hepfo yaho hariho uruyuki bigaragara ko ibiri muri iryo cupa bashobora kumenya uko babikoresha ntibibatere urujijo, bakamererwa neza.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi harimo n'utubara tw'umuhondo ni iby'ingenzi cyane bishobora kwifashishwa mu buryo butandukanye hashobora kuvamo imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara nyinshi.

Ibiti byiza, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bifite amababi meza, ashobora kwifashishwa bagakuramo imiti igiye itandukanye, akavura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ubusitani bwiza burimo ibiti by'icyatsi kibisi n'amashami meza ibyo biti biba ari iby'ingenzi mu buzima bishobora kuvamo imiti itandukanye ishobora gufasha abantu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa ari mu mabara atandukanye yiganjemo ay'umweru, harimo iry'umuhondo ripfundiki umupfundikizo w'ikigina, yanditseho kugira ngo ibirimo bitabera abantu urujijo bishobora kuba hari n'imiti, hirya yaho hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Amacupa menshi yiganjemo ay'umweru, harimo n'ay'umuhondo, hari n'utundi dukarito duto tw'umuhondo turiho n'ibara ry'icyatsi kibisi, yose harimo imiti yanditseho kuri buri cupa uko iyo miti yakoreshwa.

Igiti giteye ahantu heza cyane, gifite amababi y'icyatsi kibisi, gishobora kuvamo ibintu bitandukanye harimo n'imiti ivura indwara nyinshi, harimo n'iza kinyarwanda.

Ibintu byinshi biri mu mabara atandukanye, harimo ay'icyatsi kibisi, aya shokora, ajya kuba umuhondo, ni ibintu bitandukanye bishobora gufasha mu buvuzi, harimo n'uburwayi bw'Ikinyarwanda.

Ibiti byiza birimo ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora gukoreshwa bakavanamo imiti igiye itandukanye, igafasha mu kuvura indwara nyinshi harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Amacupa menshi y'imyeru harimo n'iry'umuhondo rifunikishijwe umufuniko w'ikigina, yose yanditseho inyandiko zigaragaza ibiri muri aya macupa, kugira ngo niba ari imiti uyikoresha bitamutera urujijo.

Icupa rimwe rifite umufuniko w'umweru ririho icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ibiri muri iryo cupa, amagambo agaragara neza ari mu ibara ry'ubururu ahagana hepfo. intego ni ukugira ngo abasoma aya magambo bamenye uko bakoresha ibiri muri iryo cupa bitabagoye.

Icupa ry'umuhondo, rigaragara neza, rifite umufuniko w'ikigina, hariho n'akandi kabara k'igina ahagana hepfo, handitseho amagambo agaragara neza, yerekana ibirimo ku buryo uwabikoresha bitamutera urujijo.

Amacupa y'umweru, harimo n'iry'umuhondo, apfundikije imifuniko itandukanye, hari n'ari mu ibara ry'ikigina, yose yanditseho inyuguti zigaragara neza zerekana ibirimo, kugira ngo ababikoresha, bitabatera urujijo.

Hateye ibiti byinshi biri mabara meza y'icyatsi kibisi, harimo n'ay'umuhondo, bishobora kwifashishwa hakavamo imiti, ishobora gufasha mu buryo butandukanye cyane cyane mu by'ubuvuzi, bishobora kuvura n'indwara z'ikinyarwanda.

Amacupa menshi y'imyeru, yose yanditseho mu nyuguti zigaragara neza, bigaragara ko arimo imiti yo kwa muganga, ibi byanditseho byerekana uko yakoreshwa kugira ngo hatagira uwo igiraho ingaruka mbi.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi bifite amababi meza atoshye, bifite umweru w'umuhondo n'utundi tw'umweru, ishobora gukoreshwa mu kuvamo imiti itandukanye ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibiti by'amabara atandukanye harimo n'iby'icyatsi kibisi n'ibindi byerurutse ni byinshi bishobora gukoreshwa hakavamo imiti itandukanye, igafasha mu buvuzi ku ndwara zigiye zitandukanye.

Icupa ririho icyapa cy'icyatsi kibisi ,amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru, agaragara neza, aramenyekanisha ibirimwo imbere kugira abazabikoresha bitabatera urujijo.

Icupa ripfundikije umupfundikizo w'umuhondo urimo utubara twa shokora, ririmo ibintu by'icyatsi kibisi; hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijeho amagambo agaragara neza y'icyatsi kibisi; asobanura uwo muti uri muri iryo cupa uburyo ugomba gukoreshwa, kugira ngo bidatera abantu urujijo.

Urubuto rwiza imbere rufite imbuto z'umukara, hagakurikiraho ibara ry'umuhondo, inyuma akaba rugizwe n'icyatsi n'ipapaye n'urubuto rugirira umubiri akamaro.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru uriho icyapa cy'ubururu, hari inyuguti zanditse zigaragara neza zimenyekanisha ibiri muri iryo cupa, niba ari umuti bamenye uko bawukoresha kugira ngo ubuzima bugende neza.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi hezeho akarabo k'umuhondo n'umweru, bishobora gukoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye, hashobora kuvamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye bikagirira abantu akamaro.

Ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hejuru hanyanyagiye utubabi twabyo, hagati harimo amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara, afasha kumenya uburyo ibyo biti byakoreshwa.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, biteye mu mavaze ari mu ibara ry'umutuku, bishobora kwifashishwa mu buzima bw'abantu, hakavamo imiti ikavura indwara z'ubwoko butandukanye.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru wicaye, hino ye hari intebe z'umukara. Imbere ye hari amacupa rimwe rimo ibintu by'ubururu ripfundikije agapfundikizo k'umutuku, irindi riri mu ibara ry'ikigina naryo ripfundikije agapfundikizo k'umutuku. Ni kwa muganga.

Amacupa abiri arimo ibara ry'umuhondo, rimwe ripfundikije umupfundikizo w'ikigina, irindi ujya gutukura. Hari ibyapa bigaragara neza byandikishije inyuguti z'ikigina, bigaragaza ibiri muri ayo macupa, hasi yaho hari imbuto zikase zihanyanyagiye.

Igiti kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi giteye imbere y'inzu, gishobora kuvamo imiti itandukanye ishobora kuvura indwara z'abakuze ndetse n'abato bakamererwa neza.

Amashami meza ariho amababi y'icyatsi kibisi, ari ibiti byiza bishobora gukoreshwa ushobora kuvanamo imiti ishobora kuvura indwara zitandukanye, zitarimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibimera bitandukanye byiganjemo ibiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora gukoreshwa hakabonekamo imiti ishobora kuvura indwara zitandukanye z'abakuru ndetse n'abato.

Abantu benshi bicaye hamwe, abagabo n'abagore, imbere yabo hari amacupa imifuniko iri mu ibara rijya gusa umuhondo, hirya hari ibindi biri mu mabara ajya gusa n'icyatsi, ni imiti ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubusitani bwiza, bwiganjemo amabara y'icyatsi kibisi, indabo z'iroze, hari akaboko k'umuntu karimo gusoroma ururabo, wambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku n'umuhondo.

Icupa ry'icyatsi kibisi, ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo agaragaza ibirimo uko byakoreshwa, hirya hari igikakarubamba cy'icyatsi kibisi, hari n'akabara k'icyatsi kibisi iruhande rwabyo.

Amacupa y'imyeru n'imifuniko yayo ni umweruru ateretse ahantu hari mu ibara ry'umuhondo, hari irindi cupa ririmo ibintu by'ikigina naryo rifite umufuniko w'umweru, yose afite ibyapa bigaragaza ibirimo kugira ngo ubikoresha bitamutera urujijo.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bifite ibibabi byiza, bishobora kwifashishwa bagakoramo imiti itandukanye, bishobora kuvura indwara zitandukanye, harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Igiti kinini gifite amashami menshi n'amababi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora kwifashishwa bakuramo imiti itandukanye, ishobora gufasha abantu barwaye indwara z'ubwokoko bwinshi.

Umuti w'amenyo ushushanyijeho igikakarubamba, kigaragara mu ibara ry'icyatsi kibisi, handitseho amagambo agaragara neza, yerekana akamaro kawo, ukoreshwa mu gusukura amenyo umuntu akamererwa neza.

Amacupa menshi hari n'iriri mu ibara ry'umuhondo ripfundikije umufuniko w'ikigina, n'irindi ripfundikije umupfunikizo w'umuhondo n'andi menshi. Hariho amagambo kuri buri cupa agaragaza ibirimo, niba ari imiti umuntu akamenya uko yayikoresha.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bifite amashami meza ariho amababi ashobora gukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zirimo n'indwara z'ikinyarwanda.

Ishami ryiza ririho amababi y'icyatsi kibisi, bifite umweru w'indabo ziri mu ibara ry'iroze, zifite amababi ashobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibiti byinshi biri mu mabara agiye atandukanye yiganjemo ay'icyatsi kibisi harimo n'umutuku n'umuhondo n'akandi kari mu ibara rya move byose bishobora kwifashishwa mu buryo butandukanye hashabora kuvamo imiti ikavura indwara zitandukanye.

Ibiti byiza birimo ibara ry'icyatsi kibisi, byarabije akarabo k'umuhondo, bishobora kwifashishwa hakavanwamo imiti yavura abantu ku ndwara zitandukanye, bakongera kumererwa neza.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi gisa neza, bishobora gukoreshwa ibintu bigiye bitandukanye hashobora kuvamo imiti ivura indwara z'amoko menshi abantu bagakira.

Ibiti byiza, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, harimo n'agafite akarabo k'umuhondo, bishobora kwifashishwa hakaba havamo imiti ishobora gukoreshwa, bakavura abantu bagiye batandukanye.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora kuvamo n'imiti igiye itandukanye, hagati harimo umugezi utembamo amazi meza cyane y'urubogobogo, hirya hari ibitare, hari abantu bahagaze imbere yaho barimo kubyitegereza.

Amacupa menshi, harimo iry'umuhondo ripfute umumfundikizo wa shokora n'irindi rifite umufuniko w'umuhondo n'andi ari hino yayo, yose yanditseho inyuma amagambo agaragaza imiti irimo imbere, kugirango uyiguze amenye uko ayikoresha atagize urujijo.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi bishobora gukoreshwa hakavamo imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye harimo n'izo mu bwoko bw'ikinyarwanda.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, harimo akandi kabara hagati karimo amabara menshi cyane, hari inyuguti z'umutuku zanditse mu buryo bugaragara zerekana impamvu icyo cyapa kiri aho ngaho.

Amacupa atatu arimo icupa rinini riri mu ibara ry'umuhondo ripfundikije umufuniko w'ikigina n'irindi bimwe ibara ry'umweru upfunikije umuvuduko w'ikigina, agaragaza ibyapa byanditseho amagambo agaragaza ibiri muri ayo macupa kugira ngo abayikoresha batagira urujijo.

Ibiti bifite amashami meza n'amababi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora kwifashishwa hakavanwamo imiti ifasha mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi ufite ikora ry'umuhondo, yambaye ipantaro y'umukara ahagaze ahantu hari ibara ry'ubururu, imbere ye hari ibiti kandi ibyo biti bishobora no gukoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Igiti cyiza ari ikirekire n'ikigufi gifite amababi meza y'icyatsi kibisi, ashobora gukoreshwa akavamo ibintu bitandukanye harimo n'imiti ivura indwara zitandukanye, hari n'iz'ikinyarwanda.

Ibibabi by'icyatsi kibisi bigaragara neza bishobora gukoreshwa hakavamo imiti igiye itandukanye, igafasha mu kuvura indwara z'abakuze ndetse n'abatoya.

Ibiti byiza biri ku ishami rifite amababi menshi ari mu ibara ry'icyatsi kibisi bishobora gukoreshwa bakabonamo imiti iyo miti ivura indwara zishobora kuba zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ubusitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi kibisi harimo n'ibiti by'icyatsi kibisi, bigaragara ko abantu babyifashisha mu buzima butandukanye, bashobora gukoramo n'imiti bishobora kuvura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Amacupa menshi arimo ibisa na shokora, undi arimo arasuka ibisa n'umukara ashobora kuba ari imiti. Yose hariho ibyapa bigaragara neza bimenyekanisha ibiri muri ayo macupa, kugira ngo ubikoresha bitamutera ikibazo.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi biri ahantu heza, bishobora gukoreshwa mu kuvamo imiti ishobora kuvura abantu kandi ishobora no kuvura n'abarwaye indwara z'ikinyarwanda.

Icupa riri mu ibara ry'ubururu, rifite umuvuniko w'ubururu, ryanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umweru, riragira ngo uzakoresha ibirimo bitazamutera urujijo.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari ikibabi cyiza hari n'ikiganza cy'umuntu ufasheho w'umunyamahanga, bishobora kuvura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Amacupa menshi yiganjemo ari mu ibara ry'umweru, hari n'irindi riri imbere riri mu ibara ry'umuhondo, hariho ibyapa bigaragaza ibirimo kugira ngo ababikoresha batagira urujijo.

Amacupa menshi yiganjemo afite imifuniko y'umuhondo, arimo ibintu by'icyatsi kibisi ni imiti, agiye hariho ibyapa byanditseho uko ikoreshwa kugira ngo itagira uwo itera urujijo.

Igiti cyiza kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, gifite ibibabi byiza cyane, bishobora kwifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye, hashobora kuvamo imiti ikavura abantu bakuru ndetse n'abato.

Amacupa menshi ari mw'ibara ry'umweru n' irinndiri rimwe ibara ry'ikigina n'ndi bara ry'ikigina riri inyuma yayo buriupa ryose ryanditseho mu nyuguti zigaragara kugira ngo ibirimo bimenyekane ubikoresha atagira urujijo.

Amacupa ari mu ibara ry'umweru, yandikishijeho inyuguti zigiye zitandukanye, hari iziri mu ibara ry'umutuku, hari n'iziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, biragaragaza ibirimo kugira ngo ababikoresha bitabatera urujijo.

Ibiti byiza birimo ibara ry'icyatsi kibisi ni byinshi bishobora kwifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, hashobora kuvamo imiti, ikavura indwara z'ubwoko bwinshi harimo n'iz'Ikinyarwanda.

Ibiti byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hariho n'umutuku biri ahantu heza, bishobora kugirira abantu bose akamaro, bishobora kuvamo imiti ivura indwara z'igiye zitandukanye.

Icupa riri mu ibara ry'ikigina ririho icyapa kiri mu ibara ry'umweru hariho n'umutuku, ripfundikije umufuniko w'umweru; ririho amagambo agaragara neza amenyekanisha ibiri muri iryo cupa, kugira ngo niba ari imiti, uyikoresha ye kugira urujijo.

Ibimera byiza biri mu ibara ry'icyatsi kibisi hari umuntu w'umunyamahanga wambaye umupira utukura ufashe ku giti kimwe muri byo bishobora gukoreshwa bikagirira abantu akamaro no mu buvuzi.